Igipapuro kiri mu ibara ry'icyatsi, kikaba cyanditseho amagambo y'icyongereza ari mu ibara ry'umukara, hasi hari utuntu tumeze nk'umunzana tugaragaza uko ibihe byari biri kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani kugeza mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe.

Abana batatu bari kumwe n'umubyeyi wabo bagiye kuvoma. Umwe mukuru wambaye n'ingofero, akaba ari gupomba amazi ku mugezi, mu gihe umuto muri bo ari gutega amazi ku mugezi kugira ngo avome yigire mu rugo.

Abana bato bambaye imipira y'umutuku bakaba bicaye hasi mu busitani, aho hari umugore wambaye ijire ya kaki uri kugenda abaha amata, inyuma ye hari abandi bantu hakaba harimo n'umusirikari ufite akantu karimo amata.

Abantu benshi cyane bakaba ari abanyeshuri biga amasomo ajyanye n'ubuvuzi, bicaye mu ishuri ryiza cyane, riteye amarangi y'umuhondo hagati yabo hakaba hari umugabo uhagaze, aho ari we mwarimu wabo.

Umugore wambaye igitenge, yambaye agapira gatukura, akaba ateruye umwana ukiri muto, na we wambaye ingofero y'umweru. Uyu mugore afite indobo y'umukara, akaba yaje kuvoma amazi ku ivomero rusange.

Umukobwa muto uri mu kigero k'imyaka cumi n'ibiri. Yiga mu mashuri yisumbuye aho yambaye impuzankano. Ari hanze akaba yaje gukaraba intoki ku mugezi kugira ngo abone uko ajya mu ishuri.

Abantu batanu bakaba bakora mu bijyanye n'ubuzima, barimo abagore babiri n'abagabo batatu, hejuru handitseho amagambo y'Icyongereza agaragaza ko ubuzima ndetse na gahunda zo kububungabunga ari ibya bose.

Abantu babiri umugabo wambaye agapira k'ubururu ndetse n'ijire ya kaki, akaba ari kumwe n'umukobwa muto wambaye umupira utukura aho uyu mugabo ari gukorera umukobwa ijerekani y'amazi yanditseho amagambo mu mpine mu ibara ry'umweru.

Abantu benshi bambaye udupira tw'umweru, bakaba bari kwifotoza, bamwe baricaye, abandi barasutamye, abandi barahagaze, inyuma yabo hari igipapuro kinini cyane, cyanditseho amagambo y'impine asobanura Ikigo cy'igihugu kita ku buzima mu Rwanda.

Abana bato bane bari gukaraba intoki bifashishije amazi meza n'isabune, aho hari umugabo wambaye bote, ipantaro ndetse n'umupira w'icyatsi w'amaboko magufi, uri kubasukira amazi ku ntoki, akaba ari kumanuka akagwa mu ibase y'umutuku.

Igipapuro kiriho ibara ry'ubururu, kikaba cyanditseho amagambo y'impine, hariho n'akandi gashusho k'agashushanyo karimo ibara ry'umweru, aho bigaragaza umuryango Mpuzamahanga ubungabunga ibiryo.

Umugore ukenyeye igitenge, yambaye ishati y'amaboko magufi. Yikoreye indobo y'umutuku, atwaye n'indi y'umuhondo mu ntoki, aho avuye kuvoma amazi ku mugezi rusange kugira ngo ajye gukarabya abana be.

Umugabo wambaye ikote ry'icyatsi ry'amoboko maremare. Ateze ukuboko ku mugezi, akaba ari amazi ari guturuka mu gihombo y'imena hasi mu mugezi utemba.

Umwana muto w'umukobwa, yambaye impuzankano, akaba ari gukaraba intoki akoresheje amazi meza n'isabune kuri kandagira ukarabe. Inyuma ye, hari abandi banyeshuri benshi, basa n'aho bari mu kigo bigamo.

Umwana muto w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka icyenda, yambaye imyenda idoze mu gitenge, akaba ari gukaraba intoki yifashishije amazi meza n'isabune, inyuma ye hakaba hari igipangu cyubakishijwe inkarakara.

Abantu biganjemo abagore, bakaba ari abajyanama b' buzima bari kwifotoreza imbere y'inzu yubakishije amatafari ahiye ndetse ikaba isakaje amategura, nyuma yo bavuye mu nama y'uburyo bwo kunoza serivisi batanga.

Umwana mutoya uri mu kigero cy'imyaka itanu, yambaye umupira w'umutuku, akaba yaje gukaraba intoki ku mugezi wubatswe ku nkunga y'umuryango World Vision, akaba ariwo wawubagejejeho.

Amagambo ari mu ibara ry'icyatsi, akaba ari mu rurimi rw'Icyongereza, asobanura Umuryango Mpuzamahanga wita ku Buzima, hejuru hari ikirangantego cyawo kirimo n'inkoni izengurutseho inzoka.

Amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, hari ishusho y'umugore ndetse n'umwana bari mu ibara ry'umweru. Hakaba hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, asobanura Umuryango Mpuzamahanga wita ku burenganzira bw'umwana.

Umwana muto wambaye agapira gatukura k'amaboko magufi ndetse n'ikabutura y'ubururu. Afite igikombe cy'icyuma aho ateze amazi ku mugezi kugira ngo ayanywe cyangwa ajye kuyagaburira amatungo.

Umugore witeze igitambaro yambaye n'iribaya bisa ateruye umwana muto uri mu kigero cy'umwaka n'amezi abiri, akaba yaje kwa muganga aho yakiriwe na muganga w'umugabo wambaye uturindantoki ndetse n'itaburiya y'umweru akaba ari kwita kuyu mwana.

Umukobwa wambaye agapira k'umuhondo k'amaboko magufi, yambaye n'agapfukamunwa. Akaba yaje kwa muganga kwivuza, aho hari abaganga babiri, ariko akaba yakiriwe n'umwe muri bo bambaye udupfukamunwa, aho ari kumupima ku kuboko yandika ibisubizo muri mudasobwa.

Umugore wambaye ibitenge, yazanye ijerekani nini cyane ndetse n'akandi gato k'amacupa arindwi, akaba yaje kuvoma ku ivomo rusange, inyuma ye hari ibihuru by'ibyatsi, binini cyane, bitoshye.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe bakaba bari kwifotoza, aba bose ni inzobere mu bijyanye n'ubuzima aho baturutse mu bihugu bitandukanye, bari kwifotoreza imbere y'inzu y'igorofa, iruhande rwabo hirya no hino hari amadarapo.

Abaturage batatu, babiri ni abagore undi umwe n'umugabo, umugore n'umugabo bafite amajerekani abiri buri wese imwe aho bari kuvoma amazi ku mugezi rusange, undi mugore yambaye ijere y'umuhondo aho ari ruguru y'umugezi abaganiriza.

Umugore n'umugabo bahagaze bari kwifotoza, iruhande rwa bo hari ibipapuro binini cyane bishushanyijeho abana ikindi kikaba gishushanyijeho umugore uteruye mwana, bose ubona ko bishimye.

Abantu benshi cyane biganjemo abajyanama b'ubuzima, bahuriye hamwe mu busitani, inyuma yabo hakaba hari igisharagati gisa n'umweru, aho bishimiye cyane umunsi wabagenewe, bishimira serivisi bagenda baha abaturage.

Abantu benshi cyane, biganjemo abarezi b'incuke, bakaba bahagaze, imbere yabo hari n'abana batoya cyane, bari kuririmba, bambaye impuzankano. Ubona ko bishimye cyane.

Umwana muto wambaye ijipo ndetse n'agasengeri k'umuhondo, afite akajerekani gato ka cumi n'atanu aho yagiye kuvoma mu mugezi utemba amazi yo kujya gukora amasuku mu rugo iwabo.

Umugore ukenyeye igitenge, yambaye umupira w'amaboko maremare uriho imashini ndetse n'ingofero y'ubudodo, akaba yazanye amajerekani atatu, aho yaje kuvoma ku mugezi wubatswe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza maze mu Rwanda.

Inyubako nziza cyane, iteye amarangi y'umweru irimo imirongo ibiri, umwe w'ubururu, undi w'umutuku. Hakaba harimo ibikoresho bitandukanye birimo intebe, ibitanda ndetse n'ibindi byifashishwa na muganga.

Abantu benshi cyane biganjemo abana bakiri bato bakaba bahuriye hamwe ku mudugudu, ahantu ahari kubera imyiyereko abantu bateguye mu buryo bwo gukangurira abana ndetse n'abandi kurwanya ebola.

Abantu babiri barimo umugabo umwe w'umuganga ndetse n'undi mugore, bicaye mu nzu itangirwamo serivisi z'ubuvuzi. Inzu yubakishije amatafari ahiye, iteye amarangi y'umweru ndetse irimo na parafo y'umweru. Abo bantu bakaba bari gukoresha ibyuma by'ikoranabuhanga.

Umwana muto w'umukobwa ari mu murima uhezemo imboga aho ari kumwe na mama we witeze igitambaro cy'umweru, hejuru handitseho amagambo asobanura Umuryango Mpuzamahanga ufasha abakene.

Umwana muto uhagaze ku munzani, yambaye ipantaro ndetse n'agapira k'umuhondo ari kumwe n'umugabo wambaye nawe agapira k'umuhondo n'amadarubindi, akaba yamuzanye kwa muganga kugira ngo amupime arebe ibiro bye.

Abantu benshi cyane bakaba bari kwifotoza higanjemo abagabo, bari ku nzu y'ivuriro iteyemo amarangi y'ubururu ndetse ifite n'ibarasa rinini cyane, imbere yayo hakaba hari indabyo.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo, akaba ari kugaburira umwana muto igikoma, iruhande rwabo hari n'abandi babyeyi benshi cyane bateruye abana bakiri bato, aho babazanye ku gikoni cy'umudugudu kugira ngo babahe igikoma.

Umugabo w'umuganga wambaye bote, afite ikayi n'ikaramu, yicaye ku ntebe ikozwe mu rubaho, iruhande rwe hari undi mugore wicaye mu ntebe ya parasitike ufite n'umwana, bakaba bicaye ku mbuga y'inzu yubakishije amatafari ahiye.

Abagabo babiri bari gusuzanya, bose bakaba ari inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi bw'indwara z'ibyorezo, bakaba bamaze kuganira ku buryo bagiye guhashya icyorezo cya Marburg.

Abana bato, biga mu mashuri abanza. Bambaye impuzankano, aho abakobwa bambaye ubururu, abahungu bakaba bambaye kake. Bari mu ishuri ryabo, buri mwana afite isahane y'ibiryo imbere ye.

Abantu benshi cyane bicaye mu nzu, buri muntu yicaye ku ntebe ye aho ari intebe z'ibyuma ziriho imifariso, imbere yabo hari umugore wambaye ikote ndetse n'ikanzu, akaba ari kubaganiriza ibijyanye n'ubuzima.

Umugore wambaye igitenge, akaba yiteze igitambaro mu mutwe, yaje gushaka serivise z'ubuvuzi aho yakiriwe n'umusore ukiri muto, wambaye uturindantoki n'itaburiya by'umweru akaba yambaye n'ikarita y'akaza mu ijosi, uruhande rwe hari undi mukobwa, hirya hakaba hari umusore wambaye ijire ubahagaze imbere.

Igipapuro kiri mu ibara ry'umweru. Gishushanyijeho abantu bane, kikaba kiriho amagambo atandukanye. agaragaza uburyo serivisi z'ubuzima zitangwa, ndetse n'uburyo butandukanye bwo kuzisaba.

Abantu batanu bakora kwa muganga biganjemo abanyeshuri bari kwimenyereza umwuga. Baricaye mu nzu y'igisharagati, imbere yabo hari ameza arambitseho ibikarito birimo imiti itandukanye.

Umwana muto w'umuhungu. yambaye ishati y'icyatsi ndetse n'ikabutura, akaba yiga mu mashuri abanza. yaje kuvoma ku mugezi rusange yitwaje indobo y'ubururu, kugira ngo abone amazi akaraba ajye ku ishuri.

Ikirangantego kiri mu ibara ry'ubururu, kiriho umugore uteruye umwana barebana, hasi hari amababi acomekeranye, akaba ari ikirango cy'umuryango mpuzamahanga wita ku burenganzira bw'umwana.

Abagore batanu, babiri baje kuvoma, aho umwe yitwaje indobo y'ubururu, undi akitwaza indobo y'umutuku, batatu bari inyuma y'umugezi, bari kubitegereza, aho aba baje kuvoma bari guterurana indobo ngo bakorerane.

Abaganga bane, bambaye udupfukamunwa, bakaba bambaye udutambaro mu mutwe ndetse bambaye n'imyenda umubiri wose y'ubururu. Bari kuvura umurwayi uryamye ku gitanda cy'abarwayi, aho bari kumuvura indwara z'amenyo.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, biganjemo abambaye impuzankano, bari gutambuka mu muhanda aho bari kujya ku ishuri, bari guhura n'abandi bantu batandukanye, aho munsi y'umuhanda hari umugezi uri kuvomaho umwana muto, hakaba hari n'umugabo uri kumufungurira amazi.

Ku mbuga yo mu cyaro, hari agatanda kariho amasahani ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byiganjemo amabara y'umweru. Bakaba babyanitse ku kazuba nyuma y'uko bari bamaze kubyoza, ku ruhande hateye insina ndetse hari n'uruzitiro rw'imiyezi.

Umugore witeze igitambaro cya mu gitenge, ateruye umwana muto uri mu kigero k'imyaka ibiri, akaba yaje kumukingiza kwa muganga, yakiriwe n'umugore wambaye itaburiya y'umweru, ari na we uri kumutera urushinge ku rutugu.

Inyubako nini cyane, isakaje amabati atukura. Ikaba ari igorofa igeretse rimwe, irimo inzugi n'amadirisha byinshi cyane. Imbere yayo hari indi nyubako, irimo amazi hejuru imeze nk'ikigega, bisa n'aho abantu bajya kuhogera.

Umunsi wahariwe kurwanya indwara z'imirire mibi, hakaba hari abagore benshi cyane bafite abana bakiri bato bahuriye mu gikoni cy'umudugudu aho hari inzobere mu bijyanye no gutegura amafunguro bari guha abo abana igikoma.

Abantu benshi cyane b'abaturage, bicaye hamwe mu nyubako y'ubuvuzi. Bakaba bakoze uruziga, aho buri umwe yitwaje urupapuro ndetse n'ikaramu ari bwandikeho amagambo y'ingenzi baganiriyeho.

Umwana muto w'umuhungu ari kuvoma amaze ku kigega, aho ari kuvomera mu gakombe afite uburoso bw'amenyo mu ntoki buriho n'umuti w'amenyo, akaba agiye koza amenyo mbere yuko ajya ku ishuri.

Abana bato bagiye kuvoma ku mugezi rusange, umwe ni umuhungu yambaye ikabutura n'ishati y'umweru akaba ari gupomba amazi, undi akaba ari umwana muto w'umukobwa uri kuvoma amazi mu majerekani.

Abantu umunani bambaye neza bikwije, abagabo bambaye amakaruvati ndetse n'amakote, aho bicaye ku meza y'ibiganiro baganira ku buryo bwo kunoza serivisi z'ubuzima buri wese afite n'agatasi karimo icyayi.

umukobwa wambaye agashati k'amaboko magufi k'umweru ndetse n'agapfukamunwa. akaba ari umuganga. Afite ikayi n'ikaramu, aho ari kwandika ibisubizo by'ibibazo ari kubaza umusore bicaranye, bijyanye n'indwara ya SIDA.

Abantu benshi cyane ni abagore n'abagabo, bambaye amataburiya y'ubururu, bakaba bishimye cyane, bahagaze bari kubyina, imbere yabo hicaye umugabo wambaye ishati y'umweru, akaba ari na we muyobozi wabo uri kubagira inama.

Abana bane bo mu cyaro, bambaye imipira ndetse n'amakabutura, buri wese akaba yazanye indobo, baje kuvoma amazi mu mugezi utemba kugira ngo bajye gufura imyenda yabo y'ishuri.

Abantu benshi cyane biganjemo abakora mu nzego z'ubuvuzi. Bateraniye mu nzu, aho imbere yabo hari umugabo akaba n'umushyitsi mukuru w'imena uri kubaganiriza. Inyuma ye hari igipapuro cy'umweru kiriho ikirangantego cy'u Rwanda.

Umwana muto w'umukobwa yambaye ikanzu y'umweru, irimo utudoma tw'umukara, akaba yaje kuvome rusange, aho yitwaje indobo eshatu z'umweru ari kuzoza kugira ngo azivomeremo amazi.

Abana batandatu barimo abahungu babiri n'abakobwa bane, bambaye impuzankano bakaba biga mu mashuri abanza, bose bazanye indobo n'ubudomora aho baje kuvoma ku migezi rusange kugira ngo bajye gusukura amashuri bigiramo.

Amagambo ari mu ibara ry'umweru y'impine, akaba yanditsewi ibara ry'ubururu. Aya magambo asobanura umuryango mpuzamahanga uharanira kubungabunga ubuziranenge bw'ibiryo.

Abana bane baje ku ivomero, umwe ari gupomba amazi, abandi babiri baramurebera badatega amazi, undi akaba yambaye bote afite n'inkoni, bose bakaba baje kuvoma amazi yo guteka.

Aba ni abayobozi bakomeye mu nzego zitandukanye mu Rwanda, bakaba bicaye hamwe ku meza baganira, buri muntu afite agacupa k'amazi ari kunywa, iruhande rwabo hakaba hari idarapo ry'u Rwanda ndetse hari n'umugabo wambaye ikote, ndetse na karuvati y'umutuku ubakuriye.

Abantu batatu bakora mu bijyanye no kubungabunga ibidukikije, bari kubaka akazitiro gato bifashishije senyenge, bakaba bose bambaye imibiri yabo bikwije, mu umutwe ibishashi by'umweru ndetse n'ibindi bishashi by'umuhondo ahasigaye hose, bakaba bari mu mbuga y'ibitaro.

Abantu benshi cyane bakaba biganjemo abagore batwite ndetse n'abafite abana bakiri batoya. Bicaye mu nzu kwa muganga, umwe muri bo abahagaze imbere ateruye umwana afite n'ibipapuro mu ntoki.

Igishushanyo kigaragaza ikirangantego cy'umuryango w'abibumbye wita ku buzima kiriho utuntu tubiri turi mu mabara y'ubururu ndetse n'icyatsi hasi hakaba handitseho amagambo y'ururimi rw'icyongereza asobanura uwo muryango.

Umugabo ukora mu bijyanye na serivisi z'ubuvuzi yambaye itaburiya y'ubururu, akaba afite igipapuro cy'umweru gishushanyijeho abana babiri umukobwa n'umuhungu, ari kumwe n'umugore aho bari imbere y'inzu iriho fondasiyo nini cyane y'amabuye, ikaba iteye n'irange ry'umuhondo.

Abagabo batatu bakora kwa muganga. Bose bambaye udupfukamunwa, umwe muri bo yambaye itaburiya y'umweru, mu gihe abandi bambaye amasashe y'ubururu umubiri wose, bakaba bafite n'udukarito turimo imiti.

Umugore uri gukaraba intoki kuri kandagira ukarabe, yambaye ingofero y'ubudodo mu mutwe, akenyeye igitenge, yambaye agapira k'amaboko magufi, akaba ari gukaraba imbere y'inzu ye, irimo urugi rw'igiti, ku ruhande hakaba hari umufuka utanyuye.

Abantu bane, ni abagore babiri ndetse n'abagabo babiri. Bicaye imbere y'imbaga bakaba ari inzobere mu bijyanye n'ubuzima, buri wese afite agacupa k'amazi, aho aba bagabo babiri buri wese afite mudasobwa bari kwandikamo ibijyanye n'inama.

Abantu benshi cyane biganjemo urubyiruko ariko hakaba harimo n'abakuze, bahagaze hamwe, bafite ibipapuro bibiri byanditseho amagambo atandukanye ubona ko bishimiye cyane serivisi zabagejejweho z'ubuvuzi.

Umwana w'umuhungu wambaye ikabutura y'umutuku ndetse n'ishati y'amaboko maremare. Ateze umunwa ku mugezi ku mazi atemba, aho ari kunywa amazi, asigaye akamanuka akagwa mu ndobo.

Abantu benshi cyane baturutse impande zose, bakaba biganjemo inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi, bahuriye hamwe ku meza y'ibiganiro, buri muntu afite agacupa karimo amazi ari kunywa aho bari kumva umugabo uhagaze imbere.

Umugabo w'umwirabura yiziritse ibintu byinshi cyane by'imyanda, akaba afite ibikinisho bitandukanye, ari ahantu hamenwa imyanda bisa naho afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Umugabo w'umwirabura yambaye ibintu mu maboko ndetse n'ibindi mu ijosi, yambaye ikabutura n'umupira w'amaboko magufi, aho ari kwigaragura hasi mu muhanda bisa naho afite ikibazo cyo mu mutwe.

Umusore, umwirabura, uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine, ari guseka neza ubona ko afite amenyo yitayeho cyane, yambaye agapira k'umuhondo k'amaboko magufi, aho atanga urugero rwiza rw'umuntu wishimye.

Igikuta cy'umukara kiriho amagambo atandukanye yifashishwa cyane cyane mu buvuzi bwo mu mutwe. Akaba ari mu rurimi rw'Icyongereza, mu mabara y'icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu.

Abantu benshi cyane biganjemo inzobere mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Bahuriye hamwe, bakaba bicaye ku meza y'ibiganiro. Buri wese afite agacupa k'amazi, mu gihe umwe muri bo afite mikoro, ari we uri kugeza ku bamukurikiye ijambo ry'umunsi.

Igipapuro kiri mu mabara y'icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu, gishushanyijeho umukobwa uri guseka, handitseho amagambo atandukanye ari mu rurimi rw'Icyongereza aho asobanura uburyo bwo kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'ubwonko muri rusange.

Imodoka ikaba ari n'ivuriro ngendanwa, iri ahantu mu kibuga iruhande rwayo hakaba hari abaturage barwaye baje kuganira n'abaganga babugenewe mu buzima bwo mu mutwe.

Abantu bane baricaye, umugore umwe muri bo afite agapfukamunwa ku kuboko akaba yambaye ijire y'ubururusa, bisa n'aho ari inzobere mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, aho ari gusobanurira bagenzi be.

Abantu benshi cyane biganjemo inzobere mu buzima bwo mu mutwe bari kwifotoza bamwe baricaye abandi barahagaze bari mu nzu, inyuma ya bo hari igipapuro kinini cyane cyanditseho umuryango wita ku buzima ndetse n'ikigo cy'igihugu cyita ku buzima mu Rwanda.

Abantu benshi cyane biganjemo abaganga ndetse n'inzobere mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Bakoze inama yihariye, aho baturutse mu bihugu bitandukanye, kugira ngo bafatanye, bunge imbaraga mu kurwanya izi ndwara.

Abantu benshi cyane biganjemo inzobere mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Bicaye mu nzu, aho bakoze inama, imbere yabo hari umugabo w'inzobere uri kubaganiriza, abasobanurira amakuru batari bafite.

Igipapuro gishushanyijeho umugore wambaye karuvati n'itaburiya y'umweru ndetse n'undi, aho bafashe ikibumbano cy'umutwe. Bakaba ari inzobere mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, iruhande rwabo handitseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza.

Abantu biganjemo urubyiruko ndetse n'abandi bashinzwe umutekano b'abapolisi, bahuriye mu mihanda bafite igipapuro cy'umweru cyanditseho ngo: "Kurwanya ihohoterwa, ni inshingano yanjye".

Igipapuro kiriho ikirangantego cy'u Rwanda ndetse n'ikindi kigaragaza polisi y'u Rwanda, handitseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza asobanura imiryango itandukanye irimo umuryango mpuzamahanga wita ku burenganzira bw'umwana.

Abana bicaye hasi ku kirago, bakaba bari kumwe na nyirakuru. Bigaragara ko ashobora kuba afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe kuko baramukikije ariko urabona we atishimye.

Umukecuru uri mu zabukuru, ari guteka hanze, aho yakoze amashyiga, akaba yateretseho isafuriya nini, atese igikoma. Iruhande rwe hari ifariya n'igikombe cy'icyatsi.

Abana benshi cyane biganjemo abiga mu mashuri abanza, bicaye mu nzu ubona bishimye, aho baje buganirizwa n'inzobere mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe kugira ngo bamenye uburyo bagomba kwiyitaho.

Abana bato ndetse n'abandi bakuze, barahagaze bakaba bishimye cyane bazamuyeamabendera y'u Rwanda, ubona ko bashigikiye Igihugu cy'u Rwanda bijyanye na gahunda cyashyizeho cyo kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Abantu benshi cyane biganjemo inzobere ndetse n'abandi bose biga ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Bahuriye mu nzu iteye amarangi y'umuhondo, aho hari abashyitsi bakuru b'imena babiri, umugore ufite imarete n'undi mukobwa bari kubaganiriza.

Abantu benshi cyane bari mu zabukuru, bisa naho bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, bahuriye hamwe bicaye bakoze uruziga aho baje kuganirizwa n'impuguke mu by'ubuzima bwo mu mutwe kugira ngo babavure.

Umugore wambaye ikote ry'ubururu ndetse akaba yambaye n'ikanzu y'umutuku, arahagaze, ari kwifotoza, impande ye hari igipapuro kinini cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, uyu mugore akaba ari inzobere mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Umugore wambaye ijire y'umuhondo akaba akorera ikigo cy'itumanaho mu Rwanda cya MTN, acuruza serivisi zo kubitsa no kubikura, akaba ari mu nzu acururizamo ibindi bintu bitandukanye birimo ibirungo, salade ndetse n'ibindi byinshi.

Igipapuro kinini gishushanyijeho abana, ibipupe, bakaba bafatanye amaboko, aho bamwe bari mu bururu, icyatsi, gihiye ndetse n'ikibisi cyane, hejuru hakaba handitse amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza aho avuga ibintu bijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe.

Umugore ufite ibisuko, yambaye agapira k'ura mudo ndetse n'ikote ry'umukara. Iruhande rwe hakaba hari amagambo atandukanye ari mu rurimi rw'Icyongereza, hejuru handitse "Mysol".

Umugore witeze igitambaro mu mutwe, yambaye ikanzu idoze mu gitenge n'agapira k'amaboko magufi akaba ateruye umwana, aho yaje kwa muganga akakirwa n'umuganga w'umugore uri kumwereka ibipimo by'indwara yamufashe.

Abatumirwa batandatu. Bicaye imbere y'imbaga, aho buri muntu afite ururabo imbere ye. Bitwaje amakaye n'amakaramu, inyuma yabo hakaba hari igipapuro kinini cyane kigaragaza ko ari umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuvuzi bw'ubuzima bwo mu mutwe.

Umugore witeze igitambaro w'umwirabura yambaye iribaya ubona ko yazinze umunya bisa, n'aho afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe kuko urabona yarakaye cyane ku buryo yakubita n'umuntu.

Abantu benshi cyane barimo abanyeshuri muri kaminuza ndetse n'abarezi babo. Bahagaze imbere y'inzu iteye irangi ry'umuhondo, bakaba bari kwifotoza nyuma y'uko bavuye kuganira ku buryo butandukanye bafata ndetse bakanavura abafite indwara zo mu mutwe.

Abantu babiri bicaye mu rugo ku gatebe gakozwe mu rubaho, umwe afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe aho yapfutse mu maso, ari kurira cyane akaba ari kuganirizwa n'undi mugore usa naho ari inzobere mu kuvura abantu bafite ibibazo nk'ibi.

Umugabo w'umwirabura, afite ubwanwa bwinshi cyane butameze neza, afite imisatsi y'amadirede, yambaye ibyenda byacikaguritse, akaba ahagaze imbere y'inzu itangirwamo serivise zitandukanye aho abantu baza baza kugurira ibyo kurya n'ibyo kunywa, uyu mugabo akaba afite uburwayi bwo mu mutwe.

Igipapuro kinini kiri mu ibara ry'umutuku. Cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, aho babungabunga ubuzima bw'abana ndetse n'ingimbi n'abangavu, hakaba hasi hari ikirangantego cy'u Rwanda.

Umugabo ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, yambaye ishati y'amaboko maremare, afite n'umusatsi, aho yaje kwa muganga yigunze cyane, yakiriwe n'umugore w'inzobere mu buzima bwo mu mutwe, aho ari kumuganiriza kugira ngo ajye kumuvura.

Umugabo ufite amenyo meza, akaba n'intangarugero mu mudugudu mu kwita ku menyo ye, yiyogoshesheje agasunzu afite ubwanwa, akaba yambaye agapira k'igitaka ndetse n'ikote ry'ikoboyi ahagaze aseka.

Umugabo w'umwirabura ufite amenyo meza cyane y'umweru werurutse, afite ubwanwa akaba yambaye agapira k'amaboko magufi gasa n'ubururu, aho atanga urugero ku bantu batita ku menyo yabo kugira ngo nabo bayiteho.

Umugabo w'umwirabura afite akadodo gatoya kifashishwa mu buryo bwo kuvura amenyo aho ari kugakoza mu menyo, akuramo imyanda yafashemo mu mugihe yari ari kurya mu mwanya wo gukoresha uburoso ndetse n'umuti by'amenyo.

Kwa muganga hari ibikoresho bitandukanye, byiganjemo ibyifashishwa mu kuvura indwara z'amenyo, hakaba harimo igitanda cy'abarwayi, agatebe, mudasobwa ndetse n'ibindi byifashisha umuriro w'amashanyarazi.

Abantu benshi cyane biganjemo urubyiruko. Abenshi muri bo bambaye imipira y'icyatsi yanditseho ngo:" Tubiteho", inyuma yabo hakaba hari abavuzi b'amenyo bari kubasuzuma amenyo kugira ngo babavure.

Umugabo umuganga ni inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo, yambaye uturindantoki tw'ubururu akaba afite mudasobwa ari kurebamo amashusho atandukanye agaragaza amenyo arwaye ndetse n'atarwaye.

Inyubako nziza cyane y'ubuvuzi. Irimo amakaro, irimo parafo y'umweru. Ikaba iteye n'irangi ry'umweru ku bikuta. Irimo ibitanda bitatu biryamaho abantu bafite ibibazo by'amenyo iyo bari kubavura.

Inyubako nziza itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'amenyo, iteye amarangi y'umweru, parafo y'umweru, ikaba irimo amatara meza cyane y'akataraboneka, irimo ibikoresho bitandukanye muganga yifashisha yita ku barwayi nk'igitanda cy'abarwayi, intebe ndetse n'ibindi.

Umusore uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu, afite umusatsi mwinshi akaba yaje kwa muganga aho yaje gushaka insimburangingo z'amenyo, yakiriwe n'umugore w'umuganga wambaye uturindantoki aho amuzaniye izo nsimburangingo.

Umusore ufite umusatsi w'amadirede arwaye indwara z'amenyo akaba yaje kwa muganga aho bamuryamishije ku gitanda cy'abarwayi, yakiriwe na muganga wambaye agapfukamunwa ndetse n'uturindantoki tw'umweru ari nawe ugiye kumuvura.

Umugabo wambaye agapira k'icyatsi akaba arwaye amenyo, aho yaje kwa muganga kugira ngo bamuvure, yakiriwe n'umugabo w'umuganga wambaye uturindantoki ndetse n'itaburiya by'umweru, yambaye karuvati y'umutuku ndetse n'apfukamunwa, akaba ari kumuvura amenyo.

Amenyo arwaye cyane, yafashwe ifoto hifashishijwe icyuma cyabugenewe gifashishwa n'abaganga mu kureba mu nda y'umubiri kugira ngo bapime uburwayi bwaba buhari, rero aya menyo akaba agaragaramo abiri arwaye.

Umugabo wambaye umwenda w'umweru. Akaba ari kwireba mu ndorerwamo, aho ari gusukura amenyo ye yifashishije akadodo kabugenewe, mu mwanya wo gukoresha uburoso ndetse n'umuti by'amenyo.

Utwuma twiza cyane, turimo amabara y'umukara ndetse n'ahandi habonerarana, tukaba twifashishwa n'abaganga higanjemo abita ku buvuzi bw'amenyo. Turi ku gikuta, aho tumanitse ku kintu cy'umweru.

Umugabo ufite ubwanwa bukeya, akaba yanitse amenyo, aho ari gukozamo akadodo kabugenewe kayasukura umwanya wo gukoresha umuti w'amenyo ndetse n'uburoso bisanzwe bikoreshwa na benshi.

Umugabo waje kwa muganga aje gushaka serivise z'amenyo, yakiriwe n'abaganga babiri aho umwe muri bo yambaye agapfukamunwa, ikanzu y'umweru ndetse n'uturindantoki, bamuryamishije ku gitanda aho bari kumuvura amenyo.

Inyubako nziza iteye amarangi y'umweru, ikaba irimo ibyuma bitandukanye byifashishwa na muganga mu kuvura amenyo, hakaba harimo intebe bicaraho, utugare dutwarwaho imiti ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umuganga w'umugabo yambaye isaha mu kuboko kw'ibumoso, akaba yambaye ishati y'umweru imufashe na karuvati. Yicaye mu bitaro aho akorera, aho afite urusimburangingo rw'amenyo ari kwigisha undi muntu uburyo bakura amenyo.

Umugabo wambaye imyenda bajyana mu bwogero ari koza amenyo ye yifashishije uburoso bw'amenyo ndetse n'umuti w'amenyo, akaba ari mu nzu ye mu bwiherero hari amarido y'umutuku.

Umwana ukiri mutoya afite ikibazo cy'amenyo, akaba yagiye kwa muganga, aho yakiriwe na muganga wambaye uturindantoki tw'umweru, itabariya y'umweru, yamuryamishije ku gitanda aho ari kumusuzuma amenyo ye.

Abana biga mu mashuri abanza, bambaye impuzankano, bakaba bicaye mu ishuri. Bambaye amashati y'umuhondo ndetse n'ingutiya z'igitaka, buri wese akaba yazamuye hejuru umuti w'amenyo akoresha mu koza amenyo ye.

Abaganga babiri bakora ibijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo, bambaye udupfukamunwa, uturindantoki ndetse n'amataburiya y'umweru, bakaba bari kuvura umwana muto wicaye ku ntebe amenyo.

Abana bato biga mu mashuri abanza. Bambaye impuzankano, buri wese akaba afite uburoso bw'amenyo ndetse n'agacupa, aho ari koza amenyo yifashishije amazi meza ndetse n'umuti w'amenyo.

Umwana ukiri muto bigaragara ko yiga mu mashuri abanza, ari mu kigero cy'imyaka itanu, afite uburoso bw'amenyo buriho n'umuti w'amenyo, akaba agiye koza amenyo ye yifashishije uwo muti n'uburoso.

Umugore urwaye indwara z'amenyo, yaje kwa muganga aho bamuryamishije ku gitanda cy'abarwayi, yakiriwe n'abaganga babiri, umwe yambaye uturindantoki n'itabariya by'umweru n'agapfukamunwa, akaba yambaye n'utundi twuma dutanga urumuri ku marinete ye.

Abana bato biga mu mashuri abanza, bambaye impuzankano bakaba bari mu ishuri bari kumwe na mwarimu wabo. Buri mwana afite umuti w'amenyo akoresha yoza amenyo mu ntoki, aho yayizamuye hejuru ayigaragariza bagenzi be.

Umugore umuganga afite amenyo meza cyane, yicaranye n'undi mugenzi we wambaye ikoti ritukura wambaye n'amadarubindi, akaba afite ikayi n'ikaramu aho ari kwandika, yicaye mu nzu y'ibitaro iruhande rwabo hakaba hari ameza ateretseho amacupa y'amazi.

Umugabo w'umuvuzi akaba n'inzobere mu bijyanye ubuvuzi bw'amenyo, yicaye mu bitaro aho akorera, ari guseka ubona ko yitaye kumenyo ye neza ndetse akaba yiteye agatambaro k'umweru iruhande rwe.

Umwana ukiri muto uri mu kigero k'imyaka cumi n'umwe, akaba ari kwa muganga aho yagiye kwisuzumisha indwara z'amenyo, yakiriwe n'umugore wambaye uturindantoki tw'icyatsi, aho ari kumupima amukoza akoma mu kanwa.

Umusaza wambaye agapira k'umweru k'amaboko magufi, yambaye utwumvirizo mu matwi, yambaye amataratara akaba ari guterura ibyuma bitoya biri mu ibara ry'umutuku mu buryo bwo gukora imyitozo ngororamubiri.

Isoko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, byiganjemo iby'ubuhinzi nk'inyanya, amaronji, indimu, ibibiringanya n'ibindi. Hakaba hari abagore batandatu bicaye bari ku bicuruza, aho bari kuganira bishimye.

Umukecuru wambaye ipantaro y'umukara yambaye isengeri y'ubururu ndetse nikweto zifunze akaba yicaye hasi kumukeka aho ari gukora imyitozo ngororamubiri yarambuye ukuguru ndetse n'amaboko.

Umukecuru uri mu zabukuru, yicaye mu kagare k'abafite ubumuga, aho yaje kwitabwaho na muganga. Uyu muganga ni umugore, yambaye ipantaro n'ishati by'ubururu, akaba afite akantu mu matwi, aho yakaziritse ku kuboko k'uyu mukecuru.

Umusaza ufite imvi nyinshi cyane mu musatsi ndetse no mu bwanwa, yicaye mu bwogero akaba ari kozwa n'undi muntu usa naho ari umukecuru uri kumufasha kuko uyu umusaza ntiyabasha kwiyoza.

Umusaza ugeze mu zabukuru yambaye amarineti, yambaye ishati y'amaboko magufi, akaba afite telefone mu ntoki. Yicaranye n'umukecuru, aho bari gusoma amabwiriza ku mpapuro abereka uburyo bagomba kunywa imiti yabo.

Umukecuru uri mu zabukuru yicaye kwa muganga, akaba afite agatambaro k'umutuku yazamuye mu kirere akareba. Ari kumwe n'umuganga w'umugore uri kumwitaho ari na we wakamuhaye.

Umugabo w'umusaza yambaye amadarubindi, yambaye ishati y'icyatsi ndetse n'umupira w'amaboko maremare w;umweru akaba ari kwandika mu ikayi aho ari kureba yifashishije amadarubindi bisa n'aho atakireba neza.

Abantu babiri bari kwa muganga. Umwe ni umusaza wambaye agapira k'amaboko magufi k'umweru n'ipantaro, aho yari arwariye kwa muganga atakibasha kubyuka. Inyuma ye hari umukobwa w'umuganga aho ari kumukurikira inyuma kuko ari koroherwa ubu akaba abasha guhagarara.

Abagore n'abakecuru bari mu zabukuru, bakaba bahuriye hamwe, umwe muri bo yitwaje agapaniye, inyuma yabo hari intebe za parasitike z'umweru aho hicayemo umugore umwe, abandi bakaba bicaye hasi.

Umukecuru uri mu zabukuru akaba yicaye, aho yambaye ishati y'amaboko maremare. Ari kumwe n'umuganga ushinzwe kumwitaho, aho ari kumuha ibinini ndetse yamuzaniye n'ikirahuri cy'amazi yo kubinywesha.

Umugabo w'umusaza yambaye amadarubindi ndetse n'umupira w'amoboko maremare akaba afite ubumuga bw'amaguru aho ari kugenda mu kagare, inyuma ye hakaba hari umugore bishimanye ari nawe uri kumusunika mu kagare.

Umusaza urwaye cyane, akaba ari mu bitaro ku gitanda cy'abarwayi, aho ari kumwe n'abana be babiri umukobwa n'umuhungu, bakaba bari kumwururutsa ku gitanda bamurandase kugira ngo atagwa.

Abantu babiri bari mu ivuriro, umwe ni umusaza wari urwariye muri iri vuriro ariko akaba ari koroherwa kuko ubu abasha gutambuka, ari kumwe n'undi mugore w'umuganga wambaye ishati y'umweru, aho ari kumufasha kugenda kugira ngo atagwa.

Abagabo babiri ubona ko ari abasaza, umwe yambaye umupira w'amaboko maremare w'igitaka, undi akaba yambaye ujya kuba umweru. Bakaba bari gufashanya kumanuka mu nzu kugira ngo bajye hanze bajye gutembera.

Umugabo ugeze mu zabukuru yambaye ikote ry'igitaka, akaba yambaye n'akandi kantu kuboko bisa naho afite ikibazo cyo kwibagirwa cyane aho aka kuma kamufasha kwibuka ibyo agiye gukora bitewe n'isaha agezemo.

Umugore wicaye hasi mu bwatsi, akaba ari kuboha igitebo. Imbere ye hari abandi bagore babiri bicaye ku ntebe za parasitike ndetse n'abandi bamwitaruye b'abakerarugendo harimo n'umugabo umwe w'umuzungu, aho baje kureba ibikoresho bitandukanye by'umuco Nyarwanda n'uburyo bikorwa.

Umusaza wambaye ishati ya karokaro yiganjemo ibara ry'umutuku, afite agacupa gato karimo umuti, aho imbere ye ku meza hateretse n'utundi ducupa tubiri turimo ibinini. Yicaranye n'umukecuru uri gukoresha mudasobwa.

Umusaza ugeze mu zabukuru akaba yaje mu ivuriro gushaka serivisi z'ubuvuzi, yakiriwe n'umuganga w'umusore ufite ubwanwa yambaye itaburiya y'umweru ndetse afite n'akantu mu ijosi, akaba ari kumuganiriza ndetse anandika mu gitabo.

Abantu babiri bari kugenda mu muhanda. Umwe yambaye furare mu ijosi, undi akaba ahetse igikapu mu mugongo, atwaye n'ikindi mu ntoki. Uwo wundi ufite furari, afite n'akandi kantu akuye kwa muganga, kamufasha kugenda atagwa.

Abantu batandatu, bakaba bagize umuryango wishimye cyane. Harimo umusaza n'umukecuru, abana babo, umugabo n'umugore ndetse n'abandi bana bakiri batoya, ubona ko bari kwifotoza, bishimye cyane.

Umuntu w'umusaza arwariye kwa muganga. Yambaye umupira w'umweru akaba aryamye ku gitanda cy'abarwayi, iruhande rwe hari imashini y'ikoranabuhanga bifashisha bashitura umutima, hirya ye hakaba hari n'umuganga uri kumwitaho.

Abantu babiri, umwe ni umukecuru cyane, undi akaba ari umukobwa we ariko ukuze. Bari mu nzu nziza cyane aho bari gutegura amafunguro, imbere yabo hakaba hari imboga n'imbuto zitandukanye, aho bafite n'urusenda bari bushyire mu biryo.

Abantu biganjemo abakora mu bijyanye n'ubuzima. Harimo abaganga ndetse n'abajyanama b'ubuzima, bicaye mu nzu, aho abenshi muri bo bambaye udupira dutukura. Bakaba biga uburyo bwiza, bakwigisha abagore kubara ukwezi kwabo kugira badasama.

Abagabo bane, bakaba ari inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi bw'indwara z'ibyorezo. Bari mu cyumba cy'ibitaro, aho bambaye udupfukamunwa, ibitambaro mu mutwe ndetse n'ibindi bishashi umubiri wose, bitegura kuvura umurwayi urwaye indwara z'ibyorezo.

Umujyi mwiza cyane urimo inyubako z'akataraboneka, ukaba uturiye inyanja aho mu nyanja hari ubwato. Ku ruhande hari amagambo y'Icyongereza agaragaza uburyo bagiye kwizihiza umunsi Mpuzamahanga wo kurwanya kanseri y'abagore ku nshuro ya karindwi.

Igipapuro kiriho amarangi y'ubururu, icyatsi, umuhondo ndetse n'umutuku, akaba ari umunsi mpuzamahanga wahariwe gukuramo inda, aho wizihijwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi.

Igipapuro cy'umweru cyanditseho amagambo atandukanye y'ururimi rw'Icyongereza, hariho ifoto y'umuntu uri guseka ndetse imbere hakaba n'ikirangantego kigaragaza, umuryango mpuzamahanga akorera.

Abantu babiri, ni umugore n'umugabo. Umugabo yambaye ishati y'umukara n'isaha, umugore yambaye ikoti we nta saha yambaye. Bafite igipapuro cyanditseho ngo: "Kwisuzumisha igituntu kiravurwa kigakira."

Abantu benshi cyane biganjemo urubyiruko, bateraniye hamwe mu nzu baganira ku buryo bw'iterambere ryabo, imbere hari umukobwa ufite mikoro, akaba ari we uri kubaganiriza ku bijyanye n'ubuhamya bwe.

Igipapuro kiri mu ibara ry'ubururu wijimye cyane, hari ikirangantego cy'u Rwanda, hasi hakaba handitse amagambo y'Icyongereza asobanura Minisiteri y'Ubuzima mu gihugu cy'u Rwanda.

Igipapuro kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo y'icyongereza, hasi hakaba hariho amagambo yimpine asobanura ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda, kaminuza y'u Rwanda, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi, ndetse n'ibindi.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, akaba ari inzobere mu by'ubuvuzi, ahagaze iruhande rw'igipapuro cyanditseho amagambo atandukanye mu rurimi rw'Icyongereza, agaragaza amasomo ndetse n'igikorwa nyamukuru kizaba ku itariki mirongo itatu z'ukwa Cumi.

Abaganga babiri bambaye uturintoki tw'umweru bambaye udupfukamunwa ndetse na masashe umubiri wose bakaba bari kuvura umurwayi bifashishije ibyuma by'ikoranabuhanga kugira ngo atabanduriza indwara z'ibyorezo.

Igitabo kiri mu mabara y'umweru, hasi hari ibara ry'ubururu, kikaba cyanditseho amagambo atandukanye ajyanye n'ubuzima ndetse hakaba ariho n'ifoto y'abana batoya.

Amarangi y'ubururu ndetse n'icyatsi yanditsemo amagambo ari mu ibara ry'umukara, hejuru hari andi magambo ari mu ibara ry'umukara, hagati hari ikimenyetso cyo guteranya hirya hakaba andi ari mu ibara ry'umutuku.

Igipapuro kiriho ingero ndetse n'uburyo bakoresha ndetse n'uburyo bafata inkingo, kiri mu mabara y'umweru kikaba kiriho amagambo y'ubururu, icyatsi, umuhondo ndetse n'umutuku asobanura neza urukingo rwa covide cumi ni'icyenda.

Igitabo cy'umweru kirimo amashusho atandukanye ndetse n'utumenyetso tw'umutuku, icyatsi, ubururu n'umuhondo, hakaba harimo amagambo asobanura imikorere ya serivise zitangwa n'abaganga.

Abantu benshi cyane biganjemo inzobere mu by'ubuzima, baturutse mu bihugu bitandukanye, bari kwifotoza, nyuma y'uko bari bamaze kuganira ku buryo ibihugu byombi byakorana kugira ngo bibashe kugera ku iterambere rirambye.

Abantu benshi cyane b'abaganga bahuriye mu nama aho bicaye mu ntebe z'umutuku, imbere yabo hari abatumirwa batandatu ari na bo bari kubaganiriza, hakaba hari n'undi mugabo ufite icyuma gifata amashusho uri kubafotora.

Udutambaro turi mu mabara atandukanye, tukaba dukoze nk'ipfundo. Hari utw'umutuku, umuhondo, icyatsi, ubururu, ndetse n'utundi dutandukanye, twose twanditsemo amagambo y'Icyongereza, agaragaza uburyo bwo kurwanya kanseri, mu bana bato.

Igipapuro kiriho umwana uryamye hasi. Kikaba cyanditseho amagambo y'Icyongereza ndetse hasi hari itariki, umunsi ndetse n'isaha, bigaragara ko ari igikorwa cyateguwe gisigaje umunsi umwe.

Igipapuro kiri mu ibara ry'ubururu, cyanditseho amagambo y'Icyongereza ari mu ibara ry'umweru, hariho inyuguti ndetse ya ha ndetse n'inyuguti ra, hasi handitseho amagambo y'Icyongereza asobanura ngo abanyarwanda bafite ubuzima bwiza.

Igipapuro kinini cyane cy'umweru, kiriho amagambo ari mu ibara ry'umukara n'umweru aho yanditse mu yandi mabara yiganjemo ay'ubururu, akaba agasobanura uburyo bwo kurwanya indwara ya SIDA.

Uducupa dutoya turi mu ibara ry'umweru, dufite imipfundikizo y'icyatsi tukaba tuzengurutswe n'igipapuro cy'umweru gisa n'umutuku hejuru, aho ari uducupa turimo inkingo z'urukingo rw'ubushita bw'inkende.

Abantu benshi cyane bakaba biganjemo abanyeshuri ndetse n'abandi bakora mu bijyanye n'ubuzima, bateraniye hamwe aho bafite abashyitsi bakuru b’imena batatu bari imbere yabo. Inyuma yabo hari igipapuro kiriho ibimenyetso bitandukanye n'ibirango by'imiryango itandukanye ikorera mu Rwanda.

Amafoto y'abantu batanu, babiri ni abagore, abandi batatu bakaba ari abagabo, barimo n'abazungu babiri hejuru, hari amabara y'umweru n'ubururu ndetse n'amagambo yo mu Cyongereza avuga ngo ntihagire n'umwe usigara inyuma.

Abantu bane barimo abamansera batatu, bahagaze bari gusuhuza umugabo wambaye ikoti ndetse n'ishati y'umweru, inyuma yabo hari igikuta gisa n'ubururu kiriho Ikirangantego cy'u Rwanda.

Umugabo ukora kwa muganga yambaye udupfukamunwa tubiri, yambaye ishati y'ubururu n'agapira k'umweru mu nda akaba agiye gufata urukingo rwa covid cumi n'icyenda, aho yakiriwe n'abaganga bambaye amajire umwe muri bo akaba ari kumutera urushinge.

Abagore bane urabona ko bishimye cyane, bafite igipapuro kiri mu mabara y'ubururu n'umweru, kikaba cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza aho baharanira kurwanya Kanseri y'inkondo y'umura.

Abantu benshi cyane b'abaganga. Bari mu ivuriro, bamwe baricaye, abandi bari gutembera. Bakaba bageze mu masaha y'ikiruhuko. Nyuma y'uko bari bamaze kwita ku barwayi benshi, mu gihe cya mu gitondo.

Inyubako y'ivuriro iteye amarangi y'umweru, ikaba irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa na muganga, turimo igitanda cy'abarwayi cy'umukara, intebe bicaraho, Mudasobwa ndetse n'ibindi byongera umwuka mu bitaro.

Inyubako ifite amarangi y'umweru icyatsi n'ubururu ikaba itangirwamo serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, harimo ibitandaro bibiri by'abarwayi aho nta na kimwe kiryamyeho umurwayi.

Abaganga babiri bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'udupfukamunwa. Bakaba bari mu ivuriro mu cyumba cyiza cyane giteye amarangi y'umweru, aho bari gukoresha mudasobwa iri mu kindi cyuma kinini.

Inyubako nziza cyane y'ubuvuzi, ni igorofa igeretse rimwe, ikaba iteye irangi ry'umweru. Iri iruhande rw'umuhanda aho hari inzira y'abanyamaguru irimo amave. Ndetse hakaba hari n'icyapa kigaragaza serivisi zitangirwa muri iyi nyubako.

Inyubako nyinshi cyane ziri mu bitaro bya Ruhengeri. Akaba ari inyubako zitangirwamo serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, hari inzira y'abanyamaguru nini cyane, hakaba n'ubusitani burimo umucaca ndetse n'indabo.

Inyubako nziza itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, ikaba ari ikigo nderabuzima cya Tabagwe, aho ifite inzira ihagana y'amasikariye ndetse ikaba ifite n'igipangu cy'ibyuma, ifite ibaraza rinini aho abarwayi bahagaze.

Inyubako yo kwa muganga itangirwamo serivisi zitandukanye z'ubuvuzi. Iteye amarangi y'umweru, ikaba irimo ibikoresho nk'igitanda cy'abarwayi, intebe, mudasobwa ndetse n'ibindi byose byifashishwa na muganga.

Inzu y'ibitaro ikaba iteye irange ry'umweru. Harimo ibipirizo bisa n'umweru n'ibindi bisa n'ubururu, ku gikuta hakaba hashushanyijeho ijisho, bigaragara ko hano bahatangira serivise z'amaso, aho hasi hari intebe yicaraho abarwayi.

Inyubako nini cyane y'igorofa, itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, yubakishije amatafari ya ruriba, ikaba ifite amarembo meza cyane umuntu yakugamamo. Imbere hari inzira y'abanyamaguru irimo amapave, ku ruhande hakaba hateye indabo.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, irimo ibitanda bine by'abarwayi bisashe neza bikaba bisasheho amashuka y'icyatsi, byose nta murwayi n'umwe ubiriho.

Inyubako nziza cyane itangirwamo serivise z'ubuvuzi, ikaba inacururizwamo imiti, iriho amakositara, ifite ibaraza rinini cyane riparitseho ibinyabiziga, hakaba hahagaze n'umugabo wambaye agapira k'umweru.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, ikaba igurishirizwamo imiti itandukanye, iteye amarange y'umweru, ikaba irimo n'amatara abiri, imbere hari amagambo y'izina rya yo yanditswe mu rurimi rw'Icyongereza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, iteye amarangi y'umweru, ikaba irimo n'amatara meza cyane, irimo ibyuma bitandukanye birimo ibifata amashusho ndetse n'ibindi byose byifashishwa na muganga.

Inyubako y'ikigo nderabuzima cya rukomo byubatswe i Remera akaba ari inyubako y'umuryango wa one stop center yubakishije amatafari ahiye imbere hari inzira y'abanyamaguru ndetse n'indabo.

Inyubako nini cyane y'ubuvuzi, ikaba ari ibitaro bya Nyarugenge. Iteye amarangi y'umweru, yubakishije amatafari ya ruriba. Ndetse imbere mu mbuga, hari amapave, hakaba hateyemo n'ururabo.

Inyubako nziza cyane, itangirwamo serivise z'ubuvuzi, ni igorofa, igeretse rimwe, ikaba irimo ibirahuri, ifite igipangu giteye amarangi meza cyane, mu mbuga yayo hakaba hari imodoka ndetse n'akazu gatangirwamo serivise zo kubitsa no kubikuza.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, ikaba iriho amakaro ndetse n'urugarika hejuru, irimo urugi runini cyane rw'icyuma rurimo ibirahuri, kuri iyi nzu hari inyuguti ziri mu mabara atandukanye ariko zanditse amagambo y'icyongereza.

Ikigo kinini cyane kirimo amazu menshi, kikaba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi, amazu amwe ateye irangira ry'umweru akaba asakaje amabati atukura, uruhande rumwe ruriho amazu atageretse mu gihe urundi ruriho igorofa rigeretse rimwe, ririho n'ibaraza riri gutambukamo abantu.

Inyubako nziza cyane y'ubuvuzi. Ni igorofa igeretse kabiri, irimo amadirishya manini cyane y'ibirahuri. Ifite ibaraza, rihagazeho abantu babiri, umugore n'umugabo baje gushaka serivisi z'ubuvuzi.

Mu cyumba kimwe cyo kwa muganga giteye amarangi y'umweru. Hari ibyuma byifashishwa mu gupima abarwayi ibizwi nko guca mu cyuma, aho umuntu aryama icyuma kigafotora umubiri we wose.

Inyubako yo kwa muganga, ikaba irimo ibitanda by'abarwayi biriho amashuka y'icyatsi, hagati y'ibitanda hagiye hari amarido abitandukanya ku buryo umurwayi atabona mugenzi we uri ku kindi gitanda.

Inyubako nini cyane itangirwamo serivise z'ubuvuzi, irimo amadirisha menshi cyane, inyuma yayo hakaba hari umuhanda w'abanyamaguru urimo amapave, ku ruhande hari ubusitani burimo indabo n'umucaca ushinzemo Idarapo ry'u Rwanda.

Inyubako y'ubuvuzi itangirwamo serivisi zitandukanye, mu cyumba kimwe hari umuganga w'umukobwa wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'uturindantoki tw'umweru. Afite amaderede ku mutwe akaba afite akantu yashyize ku gutwi ari kumva uko umutima w'umurwayi utera.

Inyubako nziza itangirwamo serivisi z'ubuvuzi. Iteye amarangi y'umuhondo, ikaba irimo ibikoresho bitandukanye, birimo: intebe, mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresha umuriro w'amashanyarazi, byose byifashishwa na muganga.

Inyubako nziza cyane y'ubuvuzi, ikaba ari igorofa igeretse rimwe, iriho amakaro y'umweru arabagirana, imbere hari umuhanda ucamo ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru baje kuhashaka serivise, hakaba haparitse n'imodoka.

Inyubako nini cyane yo kwa muganga. Irimo ibikoresho bitandukanye, birimo ibitanda by'abarwayi, mudasobwa, intebe, utubati ndetse n'ibindi byose byifashishwa na muganga kugira ngo abashe kuvura neza.

Abantu batatu bari kwa muganga babiri ni abaganga umwe yambaye itabariya y'umweru akaba yicaye afite ikaye n'ikaramu aho ari kika ibisubizo ari kubaza umurwayi undi muganga ahagaze inyuma aho ari gusoma mu ikayi afite n'ikaramu.

Umugabo ufite ubumuga bw'amaguru, akaba yicaye mu kagari k'abafite ubumuga aho inyuma hari umwana wambaye ikoti uri kumusunika muri aka kagare, imbere hari umugore uhagaze wambaye agapira k'umweru usa n'aho ari umuganga ugiye kubakira.

Icyumba cyiza cyane cyo mu bitaro, giteye amarangi y'umweru ku gikuta, harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa na muganga, birimo ikigega cy'amazi, utugare dutwarwaho imiti ndetse n'ibindi byinshi.

Umugore w'umuganga yambaye ipantaro nishati byi'cyatsi akaba ari gutembera, mu bitanda byabarwayi byinshi cyane, aho bitandukanijwe na marido y'ubururu ariko ibitanda byose amarwayi n'umwe ubiryamyeho.

Inyubako nini cyane y'ubuvuzi. Yubakishije amatafari ya ruriba, ikaba isakaje amabati asa n'aya matafari. Ku ruhande hari inzira y'abanyamaguru, ndetse hakaba hari n'ubusitani, bwiganjemo indabo zikiri ntoya.

Inyubako nziza itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, iteye amarangi y'umweru, ikaba ifite imiryango ibiri ifunguye, hakaba harimo abantu baje kugura imiti, aho hanze haparitse ibinyabiziga bya moto ndetse n'imodoka.

Inyubako ebyiri nini cyane zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, imwe yubakishije amatafari ya ruriba ni ndende cyane, hari umuhanda w'abanyamaguru ugana kuri iyo nyubako abantu bacamo, ku ruhande hakaba hari n'ubusitani burimo umucaca.

Amarembo agana ku bitaro bya Kabgayi, hakaba hari abantu babiri bahagaze n'undi uri ku igare uri mkugana kuri ibi bitaro, bisa naho ajyanye imigati ngo ayigurishe abarwayi n'abarwaza.

Abaganga batatu b'abakobwa, bambaye amataburiya y'umweru, bakaba bari mu cyumba cyo kwa muganga. Iruhande rwabo hari akabati kanini cyane k'umweru, imbere yabo hakaba hari ameza ateretseho agacupa k'amazi.

Inyubako nziza cyane y'ubuvuzi, iteye amarangi y'umweru, isakaje n'amabati y'umweru, ikaba ifite ibaraza rinini cyane rihagazeho abantu baje gushaka serivisi z'ubuvuzi, yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza.

Inyubako ngari cyane itangirwamo serivise z'ubuvuzi, iriho amarangi abiri umwenda n'umukara, isakaje amabati atukura, ikaba iriho igipapuro kinini cyane gishushanyijeho abana babiri, mu mbuga yayo hari amapave ndetse n'amabendera abiri.

Inyubako nini ,ni igorofa igeretse kabiri. Yubakishije amatafari ya Ruliba, iteye amarangi y'umweru ,ikaba irimo ibirahure bibonerana, aho ari inyubako izajya itangirwamo serivisi z'ubuvuzi. Haruguru yayo hari umuhanda urimo abantu benshi.

Mu nzu yo kwa muganga itangirwamo serivisi ziganjemo iz'amaso, harimo ibikoresho bitandukanye nk'intebe, ameza, Mudasobwa, igitanda cy'abarwayi ndetse n'ibindi byose, hakaba hari n'ishusho y'ijisho.

Inyubako yo kwa muganga iteye amarangi y'umweru, hakaba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa na muganga mu kuvura abarwayi, birimo Mudasobwa ndetse n'ibindi byinshi byifashisha umuriro w'amashanyarazi.

Ikigo nderabuzima gifite inyubako nyinshi cyane zubakishije amatafari ahiye y'impunyu, hakaba ubusitani bugari burimo umucaca ndetse n'imikindo, hakaba inzira y'abanyamaguru ndetse n'ahaparikwa imodoka.

Ikigo kinini cyane nderabuzima, kikaba ari kigo kirimo inyubako nyinshi, zimwe muri zo ni amagorofa ageretse rimwe, akaba afite ibaraza rinini cyane, ricamo abagenzi ndetse hakaba hari n'ubusitani bw'umucaca, buteyemo igiti kinini mo hagati.

Umukobwa w'umuganga yambaye imyenda ishati ndetse n'ipantaro by'ubururu, akaba afite ibisuko ari kwita ku murwayi aho aryamye ku gitanda, akaba ari kumupfuka ndetse anamworosa.

Inyubako nziza cyane y'igorofa, aho igorofa ryo hasi ritangirwamo serivisi z'ubuvuzi, iteye amarangi y'umweru hakaba handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, ndetse hari amasikariye abantu banyuraho bagiye kuhashaka serivisi.

Abantu babiri bahagaze mu kigo nderabuzima. Umwe yambaye ishati y'umweru akaba asa naho yari asanzwe akora muri ibi bitaro, aho ateruye umwana yabyaye, akaba ari kumwe na mugenzi we wamufashije abyara.

Kwa muganga, akaba ari inzu iteye amarangi y'umweru ndetse n'umuhondo, aho hasukuye cyane cyane. Muri iyi nzu harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa na muganga ,byiganjemo intebe.

Abantu benshi cyane bakora mu nzego z'ubuvuzi, abenshi muri bo ni abazungu kuko harimo abirabura bacye, bakaba bari kwifotoza mu busitani iruhande rw'icyapa kigaragaza ibitaro bya Butaro.

Inyubako nini cyane yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abarwayi mu gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo batazaremara. Irimo amagare ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kwiruka.

Icyumba cyiza kiri mu nyubako y'ibitaro. Giteye irange ry'umweru kirimo na parafo y'umweru. Hakaba harimo ibikoresho bitandukanye: nk'intebe, ameza ndetse n'utugare dutwarwaho imiti.

Inyubako y'ubuvuzi ifite igipangu cy'amatafari ahiye, imbere ku ruhande hakaba hari n'icyapa kiri mu ibara ry'umweru cyanditseho amagambo y'Icyongereza asobanura iryo vuriro. Imbere hakaba hari n'ibiti.

Ibitaro byitiriwe Umwami Faisal. Ni inyubako nziza cyane y'igorofa igeretse kabiri, ikaba irimo inzugi n'amadirisha biteye amarangi y'umweru, mu mbuga hakaba hari amadarapo atatu. Hanze hari abantu bari kugenda mu muhanda.

Inyubako y'ubuvuzi iteye amarange y'umweru, ifite korodoro ndende cyane isobanutse ikaba irimo amakaro, irimo n'inzugi nziza zikoze mu mbaho z'ibiti za ribuyu.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, iteye amarangi y'umweru ikaba irimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga byiganjemo mudasobwa. Muri iyi nyubako hariyo igitanda kimwe cy'abarwayi kiriho amashuka y'umweru.

Umukobwa w'umuganga afite imisatsi miremire ya meshi. Yambaye iherena, amadarubindi, agapfukamunwa ndetse n'itaburiya y'umweru, akaba yicaye mu cyumba, aho ari ukoresha mudasobwa akora ubushakashatsi.

Inyubako nini cyane y'ubuvuzi, iteye amarangi y'umuhondo, ikaba irimo intebe nyinshi cyane zitondetse mu byiciro bibiri, uruhande rumwe rwicayemo abantu bane bakora kwa muganga, bakaba bari kuganira.

Umukobwa w'umuganga akaba ari inzobere mu buvuzi bw'abana bakiri bato, yambaye agatambaro k'umweru mu mutwe ndetse n'ishati y'icyatsi y'amoboko magufi, ari kwita ku mwana uri mu kigero cy'amezi atandatu aho ya muryamishije mu gitanda.

Inyubako nziza cyane itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, iteye amarangi y'umweru ikaba irimo parafo y'amabara menshi, irimo ibyuma bya vandarateri ndetse ikaba iteretsemo intebe ndetse n'ameza abarwayi bicaraho bategereje abaganga.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa na muganga, harimo n'ibitanda by'abarwayi byinshi cyane ariko byose nta murwayi n'umwe ubiriho.

Inyubako y'ibitaro iteye amarangi meza cyane, ikaba irimo amakaro y'ibirahuri hasi, aho harimo n'ibikoresho bitandukanye birimo ibitanda by'abarwayi, utugare dutwarwaho imiti ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa na muganga.

Ivuriro ryiza cyane ririmo amazu menshi yiganjemo ateye irange ry'umweru, asakaje amabati atukura, hakaba hari inzira y'abanyamaguru, hari ubusitani, hakaba hari n'abantu benshi baje gushaka serivisi z'ubuyobozi.

Inzu yo kwa muganga ivurirwamo cyane cyane abana bakiri bato. Iteye amarange y'umweru, ikaba irimo ibishushanyo byiza bibereye amaso. Irimo igitanda cy'abarwayi, intebe, ameza, ndetse n'icyuma cyerekana amashusho.

Ikigo nderabuzima cyubakishije amatafari ahiye y'imunyu isakaje amabati y'ubururu, hari abantu babiri bari kugenda mu nzira, baturuka kuri ibi bitaro, aho hanze hari icyapa kinini cyane kirimo ibara ry'umutuku, kigaragaza ko aha ari ku kigo nderabuzima cya Matyazo.

Inyubako y'ubuvuzi, irimo imiti ipfunyitse mu bishashi, aho buri gishashi kiriho agapapuro k'umweru kagaragaza izina ry'uwo muti, igihe wakorewe ndetse n'igihe uzarangiriza igihe.

Ikigo kinini cyane cy'ubuvuzi. Kirimo amazu menshi, amwe ateye amarangi y'umweru andi ateye amarangi y'umuhondo, aho yose asakajwe amabati y'umutuku. Hari inzira y'abanyamaguru irimo amapave, ku ruhande hakaba hari ubusitani.

Inyubako nziza cyane. Akaba ari inyubako y'ubushakashatsi ,itangirwamo serivisi z'ubuvuzi. Ni igorofa igereretse kabiri, iteye amarangi y'umweru. Imbere hari inzira y'abanyamaguru, umuhanda wa kaburimbo, ndetse n'ubusitani burimo indabyo.

Mu nyubako y'ubuvuzi iteye amarangi y'umweru, hakaba hari ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa n'abaganga mu kuvura abarwayi, harimo agatanda gatoya karyamyeho umurwayi wenyine aho bamuheje usa n'aho arwaye indwara z'icyorezo.

Inyubako y'igorofa nini cyane, iramboye. Igeretse gatatu, ikaba yubakishije amatafari ya Ruriba. Ku rundi ruhande, iteye amarange y'umweru. Imbere hari imbuga ngari irimo ubusitani, aho muri ubu busitani, harimo amapoto abiri ariho amatara.

Icyumba gitangirwamo serivise zo kubaga hakaba harimo igitanda cy'abarwayi, harimo mudasobwa, harimo n'ibindi byuma byinshi cyane bikoresha umuriro w'amashanyarazi, byose byifashishwa na muganga ari kubaga abarwayi.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara yitise, yambaye n'ishati y'amaboko maremare. Yicaye ku masikariye munsi y'igiti kinini cyane cy'inganzamarumbo, aho yicaye mu gacucu yikingira izuba kugira ngo ajye ku ivuriro.

Umusore witeze igitambaro mu mutwe, yambaye agapira k'amaboko magufi, akaba yazanye umwana muto kwa muganga wambaye ubusa hejuru n'ikoboyi, bakiriwe na muganga wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa, akaba ari we uri kuvura uyu mwana muto.

Inyubako y'ivuriro iteye amarangi y'umweru, ikaba irimo ibitanda by'abarwayi byinshi cyane, bimwe biryamyeho abarwayi, Ibindi ntabo. Hagati yabyo hakaba harimo igikuta giteye amarangi y'umutuku.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru. Akaba ari umuganga wicaye ku gatebe mu nzu y'ivuriro, iruhande rwe hari igitanda cy'abarwayi ndetse hakaba hari n'ibindi bikoresho yifashisha yita ku barwayi.

Inyubako nziza cyane y'ubuvuzi, iteye amarangi y'umweru, hasi irimo amakaro, irimo ibikoresho nk'intebe, ameza ndetse n'akabati karimo imiti, hejuru kakaba karambitseho utundi dukarito utamenya ibintu birimo.

Inyubako itangirwamo serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, ziganjemo gucuruza imiti. Irafunguye ikaba irimo imiti itandukanye, hejuru handitseho amagambo agaragaza izina ryayo mu rurimi rw'Icyongereza, imbere hakaba haparitse imodoka ebyiri.

Inyubako y'ibitaro iteye amarangi y'umweru ku gikuta, irimo ikibaho cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, harimo intebe, hakaba n'indabo ziri mu mavaze.

Inzu nini cyane y'igorofa, itangirwamo serivise z'ubuvuzi. Iteye amarangi y'umuhondo, ikaba igeretse rimwe, iriho icyapa cyanditseho ngo inzu y'ababyeyi n'impinja, hasi ikaba hari abantu benshi ndetse n'ibinyabiziga.

Inzu nini y'igorofa ikaba yubakishije amatafari ya ruriba igereretse kabiri, hejuru handitseho amagambo atandukanye ari mu rurimi rw'Igifaransa, hasi hari umuhanda aho haparitseho imodoka nyinshi.

Inyubako nziza itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, iteye irange ry'umweru iriho ibirahure byiza bibonerana, hejuru hakaba handitseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza asobanura iyo nzu ibiyikorerwamo n'izina rya yo.

Inyubako nziza cyane y'ubuvuzi, yubakesheje amatafari ahiye y'impunyu, ikaba ifite amarembo magari cyane, hari umuhanda wa kaburimbo uganaho unyuramo ibinyabiziga ndetse n'abantu, ku ruhande hakaba hari icyapa kigaragaza serivise zihatangirwa.

Inyubako nziza cyane, ni inyubako nshyashya izajya itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, irimo parafo nziza cyane iri mu mabara atandukanye, hasi hakaba hariho n'ahantu bazajya bakirira abarwayi bageze ku ivuriro bwa mbere.

Igipupe gifite ibara ry'umweru kiryamishijwe ku meza iruhande rwacyo hakaba hari akandi kmashini karimo igikapu cy'umutuku gacometseho urusenga narwo rucometse kuri icyo gipupeba byose byifashishwa n'abakora imyitozo ngororamubiri.

Akuma kagezweho kuri ubu ngubu, kifashishwa n'abakora imyitozo ngororamubiri nk'ingobyi, karasa n'icyatsi, aho bagashyiraho umuntu ukoze impanuka kugira ngo bamuhe ubuvuzi bw'ibanze.

Umukobwa akora imyitozo ngororamubiri, akaba ari kunywa amazi mu gacupa k'umweru gafite umupfundikizo w'ubururu, yiteye hejuru ku rutugu furari ndetse akaba yambaye n'agapira kari mu mabara y'umweru, ubururu n'icyatsi.

Umugabo wambaye ikabutura y'umukara ndetse n'umupira w'umukara w'amaboko maremare, akaba yakoraga imyitozo ngororamubiri ariko akagira ikibazo cyo gutsikira, aho yaje kwa muganga akaba ari kwitabwaho n'umuganga.

Umukobwa urimo akora imyitozo ngororamubiri yambaye ipantaro y'umutuku ndetse n'isengeri y'umuhondo akaba yicaye hasi kuri tapi aho ari kunanura umugongo yunamye yarambuye amaguru ari gukora munsi y'ibirenge.

Igikapu cyiza cy'umutuku cyifashishwa n'abakora imyitozo ngororamubiri. Kirafunguye, kikaba kirimo ibikoresho bitandukanye nk'uburoso bw'amenyo, imakasi, igikwasi, ibikoresho bifashisha bapfuka ibisebe ndetse n'ibindi.

Agakarito kari mu ibara ry'igitaka. Karimo umurongo w'ubururu utambitsemo hagati, kakaba kandiditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, akagaragaza ko harimo imbuto z'ibigori.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abakora imyitozo ngororamubiri ndetse n'ibiribwa, hari ironji, hakaba icupa ry'amazi rya palasitike, hari icyuma baterura ndetse na metero bapimisha uburebure.

Igikoresho cy'umunzani cyifashishwa n'abakora imyitozo ngororamubiri, giteretse ku meza ashasheho igitambaro cy'ubururu, hirya hakaba hari umugabo w'umuganga wambaye ingofero ndetse n'ishati by'umweru.

Umuntu ukora imyitozo ngororamubiri, yayikoze nuko aratsikira aravunika, biba ngombwa ko ajya kwa muganga, ubu akaba yakiriwe n'umuganga w'umugore aho ari kumwitaho.

Igipapuro gishushanyijeho umugabo wambaye agapfukamunwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agakabutura ndetse n'agasengeri, cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza agaragaza ibyiza byo gukora siporo.

Agacupa gatoya k'agakombe. Gateretse ku meza, aho umuntu ari gusukamo amazi aturuka mu ijage nini na yo y'ikirahure ubona ko ari amazi y'urubogobogo.

Umukobwa wisobanukiwe, aragororotse aho ari gukora imyitozo ngororamubiri. Yambaye agasengeri gatoya, akaba yambaye isaha ndetse n'utwumvirizo mu matwi. Ari gukora imyitozo ngororamubiri arambura amaboko ye.

Abagabo babiri bambaye amajiri atukura, barapfukamye aho bari kuvura umukinnyi uryamye hasi, aho avunitse igihe yakinaga umukino w'amaguru, iruhande rwabo hakaba hari abandi bakinnyi bagenzi be bari kubarebera.

Igipapuro kiriho amagambo atandukanye, kikaba kigaragaza ikarita y'ubwishingizi bw'abantu bakoresha ubwishingizi bwa RAMA biganjemo ababa mu ngabo z'igihugu, ikaba iriho ikirangantego cy'u Rwanda.

Icyuma kiza cyane kiriho mudasobwa iri mu ibara ry'umweru igaragaza amashusho, kikaba gifite amapine ane hasi, gifite n'akantu k'umukara bafunguriraho, kifashishwa mu bantu bakora imyitozo ngororamubiri, aho baba bari gupima ibiro byabo ndetse banireba.

Umugabo wambaye ikabutura y'umukara n'agapira k'amaboko magufi k'umukara, ari gukora imyitozo ngororamubiri mu nzu yabugenewe, aho ari kunanura amaguru n'amaboko, agenda yurira ku cyuma, anamanuka gutyo gutyo.

Abantu babiri bambaye imyenda y'umutuku umubiri wose. Bakaba bafite akuma k'ingobyi yabugenewe, ya kizungu ndetse hepfo yabo, hakaba harambitse n'indi ngobyi, iri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umukara.

Icyuma cyifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, aho gifasha abantu kugira inda zikanyaraye, kikaba kigura amafaranga ibihumbi ijana na makumyabiri y'u Rwanda.

Umukobwa usobanukiwe gukora imyitozo ngororamubiri yambaye ipantaro, agasengeri gato bimufashe, akaba yicaye hasi kuri tapi aho ari kunanura amaguru n'amaboko. Iruhande rwe hari agacupa k'amazi n'ibindi bikoresho yifashisha imbere ye hakaba hari mudasobwa.

Ibikoresho byinshi cyane byifashishwa n'abakora imyitozo ngororamubiri, birimo impakasi, imyenda, utuntu bifashisha bapfuka abakomeretse, ndetse n'ibindi byose bitandukanye, bikaba birambuye hasi byateguwe, kugira ngo nihagira ugira impanuka abikoreshe.

Umugabo waje kwa muganga, nyuma yuko yari amaze gutsikira, ubwo yakoraga imyitozo ngororamubiri. Yakiriwe n'umuganga w'umugabo wambaye itaburiya y'umweru, akaba ari kugenda amukora ku ivi, kugira ngo arebe ahangiritse, ahavure.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agapira k'ubururu, arahagaze sakaba ari gutoza undi mugabo wambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'umukara gukora imyitozo ngororamubiri, aho bari mu nzu bayikoreramo.

Ibiribwa bitandukanye biribwa n'abakora imyitozo ngororamubiri. Irimo imbuto, imboga ndetse n'ibindi bikomoka ku matungo nk'amagi, inyama n'ibindi. Iyo bamaze kubirya, barahagenda bagaterura ibyuma ndetse bagakora indi myitozo ngororamubiri.

Umugabo ukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agapira k'umweru k'amaboko magufi ndetse n'ikoti ry'umutuku akaba yambaye'aturindantoki, aho ari kuganira n'umutoza we wambaye ikote ry'amaboko maremare, ku buryo ari bukoreshe kugira ngo atsinde uyu mukino.

Ibiribwa bitandukanye biribwa n'abakora imyitozo ngororamubiri, birimo imboga n'imbuto zirimo voka, ironji, indimu ndetse n'izindi, aho bazirya bakanywa amazi ndetse bagaterura ibyuma.

Umukobwa wambaye utwumvirizo, akaba yaziritse telefone ku kuboko kwe kw'iburyo, yambaye agapira k'amaboko magufi k'umutuku, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri, ari kunywa n'amazi mu icupa rya parasitike.

Umugabo ukora imyitozo ngororamubiri. Afite ukuboko kubyibushye, yambaye isengeri idafite amaboko. Akaba ari kunywa amazi mu icupa ry'ubururu rifite umupfundikizo w'umukara, nyuma yuko yari amaze gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusore wicaye hasi, uri gukora imyitozo ngororamubiri. Yambaye inkweto zifunze, ipantaro y'umukara ndetse n'agapira k'amaboko magufi k'umuhondo, aho yarambuye ukuguru ndetse akaba ari kurambura amaboko n'umugongo, akora ku kirenge.

Igipapuro kiriho umuntu wicaye uri gusimbuka urukiramende, uri kwiruka uri kurya bare, uri kunanura amaguru ndetse n'abandi benshi, bigaragara ko ari uburyo butandukanye bwo gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo wambaye utwumvirizo ku mutwe, akaba yambaye ipantaro y'umukara irimo ibara ry'umweru ndetse n'isengeri y'umukara, yambaye inkweto zifunze, aho ari gukora imyitozo ngororamubiri ananura amaguru n'amaboko.

Inzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, irimo icyapa kinini cyane ndetse n'ikindi cyuma kigaragaza amashusho, kigiye kirimo amashusho atandukanye agaragaza imibereho ndetse n'imikorere y'ubwonko bw'abakora imyitozo ngororamubiri.

Umusore ufite amatuza. Wateruye ibyuma, yambaye utwumvirizo, akaba afite agacupa ka parasitike ari kunywa amazi, nyuma y'uko avuye gukora imyitozo ngororamubiri, akaba yumva afite icyaka.

Igipapuro kiriho abantu batatu bari gukora imyitozo ngororamubiri, bambaye amakabutura y'umuhondo, ndetse n'amashati ari mu mabara atandukanye, bakaba bambaye n'amakasike, aho bari gukina umukino wiswe agasida.

Umusore uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu, yambaye ikabutura y'umukara n'agapira k'umweru k'amaboko magufi, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri arambura ukuboko ndetse n'ukuguru.

Ibikoresho byinshi cyane bikoreshwa n'abakora imyitozo ngororamubiri, byiganjemo imiti iri mu ducupa tw'umweru, iri mu masashi, hakaba uturindantoki ndetse n'ibindi bitandukanye.

Imodoka nziza y'Imbangukiragutabara, ikaba iri kugera mu muhanda wa kaburimbo, aho itwaye umuntu wakomeretse ubwo yakoraga imyitozo ngororamubiri, haruguru y'umuhanda hari ishyamba, munsi y'umuhanda hakaba ubusitani.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abakora imyitozo ngororamubiri, hari ibipupe by'abantu, hakaba ingingo, amaguru, amaboko, ibikarito birimo utwuma dutandukanye, bote, uburindantoki ndetse n'ibindi.

Abantu batandukanye bambaye amajire ari mu ibara ry'icyatsi aciyemo umurongo, bambaye n'udupira tw'umweru tw'amaboko maguf, mwe muri bo yambaye uturindantoki tw'umweru akaba ari kurandata umusore wari uri gukora gukora imyitozo ngororamubiri akaba avunitse.

Umugabo ufite ikibazo cy'ukuguru aho yakomeretse agatsikira bikomeye ubwo yakoraga imyitozo ngororamubiri, yaje kwa muganga kugira ngo yitabweho aho bamuryamishije ku gitanda, bakamutega utwuma ku kuguru tumufasha kugira ngo arusheho kurambuka.

Inyubako ikorerwamo serivise zitandukanye ndetse ikanakorerwamo imyitozo ngororamubiri, irimo igitanda, agatebe, icyuma kinyinjinza umwuka mu nzu ndetse n'ibindi bikoresho byose bifasha abakora imyitozo ngororamubiri kuyikora neza.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri. Yicaye hasi mu nzu iteye irangi ry'umweru. Yambaye ipantaro y'icyatsi ndetse n'agasengeri gato k'icyatsi, akaba ari kurambura umugongo, amaguru ndetse n'amaboko icyarimwe.

Inyubako ikorerwamo imyitozo ngororamubiri ikaba irimo ibikoresho bitandukanye bifashisha bakora imyitozo ngororamubiri, inyubako iteye irange ry'umweru, ikaba ifite ibara ry'icyatsi kuri iki cyuma abakora imyitozo ngororamubiri bifashisha bipima.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, harimo ikasike y'ubururu, umupira w'amaguru, hakaba umupira w'intoki wa basket ndetse n'indi itandukanye.

Inzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, iteye amarangi y'umweru, hakaba harimo abantu benshi cyane batandukanye barimo n'umubikira wihaye Imana, harimo abana bato bari gukora imyitozo ngororamubiri, aho bari gufashwa n'umugore w'umuzungu.

Umugabo usanzwe akora imyitozo ngororamubiri, yambaye agapira k'umweru k'amaboko magufi, akaba yaje kwa muganga kwitabwaho nyuma y'uko yari amaze kuvunika akaboko, ubwo yakoraga imyitozo ngororamubiri.

Akuma keza cyane kifashishwa n'abakora imyitozo ngororamubiri. Kakaba gasa n'umweru, gafite ikirindi cy'umukara ndetse gafite n'amaguru ane ariho amapine y'umukara.

Umugabo utoza abantu bakora imyitozo ngororamubiri, yakiriye umusore ubyibushye cyane wambaye inkweto zifunze, aho yamuryamishije ku gitanda akaba ari kugenda amukandakanda ku maguru.

Igipapuro kirimo amabara y'umuhondo ndetse n'umukara, cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza mu ibara ry'umweru, kikaba gishushanyijeho abantu bane bari gukora imyitozo ngororamubiri mu buryo butandukanye.

Umukobwa wambaye ikabutura y'umukara n'isengeri y'umukara, ari gukora imyitozo ngororamubiri. Aho yarambuye umukeka hasi muri saro, akaba awupfukamyeho ari kurambura amaboko ndetse n'umugongo.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abakora imyitozo ngororamubiri, hari intebe, umunzana, udupapuro, hakaba n'umugozi wo gusimbuka byose byifashishwa kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Umugabo wambaye ikabutura y'umukara akaba yambaye n'isaha mu kuboko kwe kw'ibumoso. Yari ari gukora imyitozo ngororamubiri yiruka mu muhanda, none aratsikiye akaba ahagaze yunamye yifashe ku ivi.

Igikapu cy'umutuku kifashishwa n'abakora imyitozo ngororamubiri, babikamo ibikoresho bitandukanye, kirambitse hasi kikaba gifunguye kirimo imakasi, inzembe, ibyo bifashisha bapfuka ibisebe ndetse n'ibindi byinshi.

Umukobwa muto muto yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agasengeri gato k'umukara, yiziritse ikintu ku kuboko yabitsemo telefone akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri kuri ubu arahagaze aho ari kunywa amazi mu icupa rya palasitike.

Umusore ukora imyitozo ngororamubiri, afite amatuza ndetse n'amaboko abyibushye cyane. Yateye furari ku rutugu, akaba ari kunywa amazi mu gacupa ka parasitike kuko amazi ni meza ku bantu bakora imyitozo ngororamubiri.

Uducupa dutatu turi mu mabara y'umweru. Tukaba turiho igipapuro cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, akaba asobanura ngo "Hagarika ububabare." Utu ni uducupa turimo umuti wifashishwa n'abakora imyitozo ngororamubiri.

Umusore usanzwe akora imyitozo ngororamubiri, afite amatuza aba yambaye ubusa hejuru, akaba yanditseho ku kuboko kwe ku iburyo ibintu biri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umutuku.

Umusore mwiza ugororotse cyane ko amenyereye ibintu bijyanye n'imyitozo ngororamubiri, yambaye isengero y'umukara irimo akarongo k'umuhondo ku maboko ndetse no mu ijosi, akaba ahagaze ari kunanura amaboko ye.

Umugabo w'umwirabura utagaragara mu maso neza, afite icupa rya parasitike akaba ari kunywa amazi nyuma yuko avuye gukora imyitozo ngororamubiri, ikirere kiracyeye ariko haracyari mu gitondo.

Mu nyubako ikorerwamo imyitozo ngororamubiri harimo abantu babiri, umwe aryamye ku gitanda akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri, undi amuhagaze iruhande akaba ari na we mutoza umwereka uburyo bakora iyi myitozo.

Mu nyubako ikorerwamo imyitozo ngororamubiri. Hateye amarange meza y'umweru, hakaba hari n'amatara meza agezweho. Harimo icyuma cyifashishwa mu gukora iyo myitozo ngororamubiri, umuntu aryamaho.

Abantu bakora imyitozo ngororamubiri, barasa ibikoresho byabo birimo inkweto bambara, ibyuma baterura ndetse na tapi baryamaho, umwe muri bo akaba ateruye ibyo kurya birimo imbuto, imboga ndetse n'ibinyampeke bimufasha gukora imyitozo ngororamubiri neza.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri. Yambaye ipantaro imufashe, agasengeri gato k'umweru. Akaba apfukamye n'ukuguru kumwe, hasi ku mucyeka, aho ari kunanura amaboko ndetse n'amaguru.

Umusore ufite amatuza ndetse n'ukuboko kubyibushye cyane, akora imyitozo ngororamubiri, akaba yambaye isengeri y'icyatsi, ari kunywa amazi mu gacupa kuko izuba riri kuva yari ananiwe cyane.

Abantu batanu biganjemo abagore, bakaba bambaye udupfukamunwa bose. Bari mu nzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, bakaba bari mu cyumba bavuriramo abantu bagize ibibazo ubwo bakoraga imyitozo ngororamubiri.

Inzu icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye byifashishwa n'abakora imyitozo ngororamubiri, harimo etajeri irimo imiti itandukanye, ipfunyitse mu bikarito aho yose ifasha abakora siporo kugira ubuzima bwiza.

Umuganga wambaye agapira k'umukara k'amaboko magufi, akaba yakiriye mu ivuriro umukobwa ukora imyitozo ngororamubiri, wambaye ikabutura ndetse n'isengeri by'umukara, aho ari kumuvura ikirenge nyuma yuko yaratsikiye.

Udupapuro twinshi cyane turi mu mabara y'umutuku, hari agasa n'ubururu ndetse n'akandi gacupa k'umweru karimo umuti, buri gacupa kariho igipapuro cyanditseho amagambo y'Icyongereza asobanura umuti urimo, aho wifashishwa n'abakora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo ukora imyitozo ngororamubiri, yambaye isengeri n'ipantaro by'umukara, yambaye n'agasaha gato k'icyatsi mu kaboko kw'ibumoso, akaba yicaye mu muhanda ari kunywa amazi mu gacupa ka palasitike.

Umukobwa usanzwe akora imyitozo ngororamubiri, yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agasengeri gato k'umweru, akaba ahagaze ahirengeye, aho izuba rimurasiraho akora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo wambaye ikabutura y'umukara, akaba yambaye n'inkweto zifunze, akaba asanzwe akora imyitozo ngororamubiri, kuri uyu munsi akaba yatsikiye, aho yayikoraga mu gitondo cya kare, none ubu akaba yaje kwa muganga, aho ari kwitabwaho na muganga.

Umukobwa wicaye hasi uri gukora imyitozo ngororamubiri. Yambaye ipantaro n'isengeri bimufashe cyane by'umukara, inkweto z'umweru, aho yarambuye ukuguru ndetse n'amaboko ari kurambura ingingo.

Udupaki turi mu mabara atandukanye yiganjemo ay'umweru, ibyatsi ndetse n'umuhondo, tukaba turimo imiti gakondo itandukanye. Hirya hariho n'ikindi gikarito gishushanyijeho umukobwa, ni cyo kirimo umuti gakondo.

Amaronji akase neza cyane y'umuhondo arambitse ku gasahane k'idongo k'umweru, hakaba hateretseho n'akandi gacupa k'umweru kariho igipapuro, bigaragara ko karimo umuti gakondo ukorwa mu ironji.

Icyatsi gitoya gitoshye gifite amababi arekuye ameze nk'ay'umwungu, kikaba gifite uturabo hejuru tutarasambura, aho gihamurwamo imiti gakondo ivura indwara zitandukanye.

Utu ni udupaki dutatu turi mu ibara ry'umweru, ndetse kamwe kakaba gafite n'ibara ry'umutuku hasi. Twanditseho amagambo atandukanye ari mu rurimi rw'Icyongereza, tukaba turimo umuti w'igikakarubamba, aho ari umuti gakondo uvura indwara nyinshi.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umweru n'agapira k'umweru, akaba acuruza imiti gakondo itandukanye iri mu macupa afite amabara y'icyats, umweru ndetse n'umukara, aho abicururiza ku muhanda.

Igipapuro kiriho ifoto y'umugabo wambaye ikoti ndetse n'ishati, ku ruhande hashushanyijeho amacupa menshi cyane y'umweru afite imipfundikizo y'umuhondo ndetse n'icyatsi, hasi hakaba hari amagambo atandukanye ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda bigaragara ko ari gusobanura imiti icuruzwa n'uyu mugabo.

Umurima urimo ibimera bitandukanye birimo nyirabasanya ndetse n'ibindi byinshi cyane bikorwamo umuti gakondo, biratoshye cyane ubona ko babyitayeho cyangwa se akaba ari mu gihe cy'imvura.

Abantu batatu bari gutembera mu ishyamba. Bakaba ari abavuzi gakondo, aho bagiye guhamura umuti gakondo. Undi umwe arahagaze, aho afashe ku giti, mu gihe undi avuye guhamura ari gutaha.

Imiti irunze hamwe ikaba iri mu byiciro bitanu, imwe ni ibinini, indi ikaba yiganjemo umuravumba ukiri muto, hasi hakaba hariho undi muti usoromye ndetse n'agacupa kabikwamo uwo muti iyo umaze gutunganywa.

Igikarito kiri mu ibara ry'umweru, ubururu, ndetse n'icyatsi. Hakaba hashushanyijeho inuma iri kuguruka, handitseho n'andi magambo atandukanye, aho agaragaza umuti urimo, cyane ko harimo umuti gakondo.

Imbuto zirambitse hasi ku meza, rumwe rurakasemo kabiri rukaba ari ironji, izindi ni indimu hakaba hari n'amababi y'igikakarubamba ndetse n'amababi y'umwenya, aho byose byifashishwa nk'umuti gakondo.

Tangawizi yifashishwa nk'umuti gakondo. Hari tangawizi ebyiri zirambitse, mu gihe ku ruhande hari indi bakasemo uduce dutanu bitegura kwifashisha.

Umukobwa w'umuzungu afite imisatsi miremire y'umukara, afite agacupa gato k'umukara kanditseho amagambo y'icyongereza kakaba karimo umuti gakondo ukozwe mu rurabo rwa ravenda.

Imiti gakondo itandukanye iri mu bitebo, imwe n'imbuto, indabyo ndetse n'indi y'uruhu rw'ibiti, hakaba hari agasekuru gato isekurirwamo mu buryo bwo kuyitunganya kugira ngo ikoreshwe.

Agacupa gakoze mu idongo, kakaba karimo umutobe urimo amaronji akase, ku ruhande hari tangawizi ndetse n'irindi ronji ridakase, isa na ho ari umutobe uvura indwara zitandukanye.

Iki ni ikimera cyiza cyane. Kikaba gifite igishubu gito, ubona ko bijya kungana bisa naho cyabyaye kikiri gito. Gifite amababi meza atoshye cyane ajya kumera nk'ay'umuvumu, kikaba gikurwamo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Ikimera cyiza cyane, kiratoshye kikaba gifite amababi ameze nk'ayashipuri. Aho nacyo cyifashishwa cyane cyane nk'umuti gakondo, uvura indwara zifata mu buhumekero.

Ikimera kizwi nka teyi gihahamuwe kikaba cyarambitswe ku giti kugira ngo kibanze cyume, kuko baragisya cyangwa se bakagisekura mu gasekuru kabugenewe, kugira ngo kivemo umuti gakondo.

Mu ishyamba hari ibimera bitandukanye, bitoshye ubona ko ari mu gihe k'imvura. Bimwe muri byo byiganjemo umweya, ukoreshwa nk'umuti gakondo uvura cyane cyane indwara zifata mu myanya y'ubuhumekero.

Agacupa gatoya k'umweru karimo umuti gakondo, kariho igipapuro cy'umweru ndetse n'ubururu cyanditseho amagambo yo mu rurimi rw'Icyongereza, asobanura imikoreshereze y'uyu muti.

Uducupa dutatu turirimo ngano zitandukanye. Hari agato k'umweru akandi k'umukara ndetse n'aka palasitike ari na ko kanini, hari n'udukarito tubiri twose turimo imiti gakondo.

Agakarito gato kari mu ibara ry'umweru, kakaba karambise hasi gafunguye ariko hakaba harimo ibinini by'imiti gakondo ubona ko bimwe byanyanyagiritse hasi ibindi bitanyanyagiritse.

Agacupa gatoya k'icyuma, kaba karimo umuti gakondo, w'umukara. Kariho igipapuro cy'umweru, kiriho ibara ry'umutuku hasi no hejuru, cyanditseho amagambo asobanura, ubuki bw'inzuki.

Uducupa dutatu tw'umweru, dufite imipfundikizo y'umweru, tukaba turiho igipapuro cy'umweru cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza. Ku ruhande hari akandi gacupa k'umukara, iruhande hakaba hari indabo z'umuhondo. Byose bikaba ari imiti gakondo.

Uducupa dutatu turambitse hasi, tukaba turiho igipapuro cy'umweru ndetse n'amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza. Ku ruhande hari ikindi gipapuro cy'umweru ndetse n'umutuku, cyanditseho amagambo agaragaza uburyo umuti gakondo ukozwe mu gikakarubamba ukoreshwa.

Uducupa twinshi cyane duterekeranyije turimo imiti gakondo, turi muri etajeri y'umweru, tumwe ni utw'ibirahure utundi tukaba ari amavide y'umukara, aho tumwe dupfundikishije imipfundizo y'umuhondo utundi iy'umutuku.

Igipapuro gisa n'umuhondo, kirimo ibara ry'icyatsi rimanuye, kikaba cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, ku ruhande hari akandi gasashe gapfunyitsemo ibinini icumi by'umuhondo byose by'umuti gakondo ukozwe mu gikakarubamba.

Icyatsi kiza gitoshye kiri mu ishyamba gifite amababi arambuye ameze nk'ayumwongo, akaba ari icyatsi gikurwamo umuti gakondo uvura indwara z'ingingo.

Uducupa dutatu tunini, tubiri turasa n'umweru akandi karasa n'umuhondo, ku ruhande hari utundi dupaki turimo umuti w'amenyo ukozwe mu gikakarubamba usa n'umweru, imbere hakaba harambitse n'igikakarubamba kitarakoreshwa.

Agakarito gatoya kari mu mabara y'ubururu, icyatsi, umuhondo ndetse n'umweru kakaba kanditseho amagambo agaragaza ibirimo mu nda, aho harimo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara.

Agacupa gatoya k'umweru. Kariho igipapuro cy'umweru, cyanditseho amagambo y'Icyongereza asobanura umuti uri muri aka gacupa. Dore ko harimo umuti gakondo.

Agacupa gato kari mu ibara ry'umweru, kakaba karimo umuti gakondo, iruhande rwako hari ibinini birambitse by'umweru, kakaba kari ku gipapuro gisa n'umutuku cyanditseho n'andi magambo ari mu ibara ry'umweru, mu rurimi rw'Icyongereza.

Uducupa dutatu dutoya, tubiri dusa n'umweru, akandi kamwe kakaba gasa n'umuhondo, gapfundikishije umpfundikizo w'umukara, kakaba gashushanyijeho igikakarubamba, aho utu ducupa twose turimo umuti gakondo uva mu gikakarubamba.

Uducupa tubiri tw'umuhondo twanditseho amagambo yo mu rurimi rw'Icyongereza asobanura igikarubamba, dushushanyijeho igikakarubamba ndetse hari ikindi kiri hasi ku ruhande.

Igiti kirekire cyane, gifite amababi y'icyatsi ameze nk'ay'avoka, akaba ari igiti gihamurwamo imiti gakondo itandukanye ifasha mu kuvura indwara zitandukanye.

Voka irambitse, imwe irasatuye indi ikaba idasatuye, imbere hari isabune inyuma hakaba hari igikakarubamaba, bigaragara ko avoka n'igikakarubamba bikorwamo umuti gakondo.

Udupaki tw'ibipapuro turi mu mabara atandukanye yiganjemo ay'umweru, tukaba turi kumwe n'ikindi gisashe cyanditseho amagambo y'igifaransa, inyuma hari inanasi ndetse hakaba n'utundi ducupa turimo imiti gakondo itandukanye.

Agacupa gatoya kameze nka kabamo umuti w'amenyo, ariko kakaba karimo umuti gakondo, kari mu ibara ry'umweru aho karambitse gacuramye, muri iryo bara hariho andi mabara y'umuhondo mu byiciro bitatu, kakaba kanditseho amagambo y'Icyongereza asobanura igikakarubamba.

Ishyamba rirerire cyane rikaba ririmo ibimera bitandukanye, aho umwe muri byo ari umuravumba wifashishwa nk'umuti gakondo uvura indwara zitandukanye ziganjemo izifata mu myanya y'ubuhumekero.

Udupapuro ndetse n'udupaki turi mu ibara ry'umweru turambitse mu gikarito tubikwamo, tukaba twanditseho amagambo atandukanye y'Icyongereza, aho turimo imiti ikorwa mu gikakarubamba.

Uducupa turambitse ku meza dutondekanye kuva ku gato ujya ku kanini, turi mu mabara y'umweru, umukara, igitaka, umutuku ndetse n'icyatsi, tukaba turimo imiti gakondo itandukanye.

Ibimera bitandukanye bifite indabo z'amabara menshi; hari iz'umweru, umuhondo, umutuku ndetse iz'ibara ry'iroza, zose zihamurwa zigakurwamo umuti gakondo.

Agacupa ka palasitike, kariho igipapuro kiri mu ibara ry'umweru. Kanditseho amagambo ngo umuravumba, kakaba karimo umuti gakondo, uvura indwara zitandukanye, ukozwe mu muravumba.

Uducupa twinshi cyane, turi mu mabara y'umweru, tukaba turimo umuti gakondo. Tugiye tugerekeranyije, buri gacupa kariho igipapuro cy'umweru, cyanditseho amagambo y'icyongereza asobanura uyu muti gakondo urimo.

Uducupa twinshi cyane turi mu mabara y'umweru kamwe kari mu ibara ry'umuhondo tukaba duteretse ku meza ku ruhande hari akandi gakarito gato k'umweru bigaragara ko byose birimo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Akajagi gato karimo uburoso bw'amenyo bubiri burambitsemo, ku ruhande hari agapaki k'umuti w'amenyo gasa n'umweru, kakaba gashushanyijeho igikakarubamba bigaragara ko uyu muti w'amenyo ukozwe mu gikakarubamba.

Akadomoro kari mu ibara ry'umweru. Kakaba karimo umuti gakondo, aho agahembeye umukara. Hasi handitseho amagambo y'icyongereza asobanura igikarubamba. Bigaragara ko uyu muti ukoze mu gikakarubamba.

Imiti gakondo myinshi cyane itandukanye, bayihamuye bayirambika hasi, aho bategereje kugira ngo yume, bakaba bayisekura mu gasekuru kabugenewe nuko bakayikoramo imiti myiza.

Ikimera kiza gitoshye cyitwa umufumba, akaba ari kimera gihamurwamo imiti gakondo, yiganjemo iyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zifata mu myanya myibarukiro.

Igiti cyiza cyane gifite amababi atoshye kikaba ari kirekire, hasi hari ibindi biti bitoshye ndetse n'ibindi ubona ko biri hafi kuma byose bihamurwamo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara.

Agacupa gatoya karasa n'umweru, kakaba karimo umuti gakondo, kariho igipapuro cy'umweru gishushanyijeho umwana muto ndetse kikaba cyanditseho n'amagambo y'Icyongereza rimwe risobanura abana.

Uducupa tubiri tw'utudomoro turasa n'umuhondo, hakaba hari n'udukarito dutatu turi mu mabara y'icyatsi ndetse n'umweru, kamwe gashushanyijeho umuntu uri kwiruka mu gihe akandi kariho isekuro basekurimo imiti, twose tukaba turimo imiti gakondo.

Ishyamba rinini cyane harimo ibiti by'inganzamarumbo, hakabamo n'ibindi biti ndetse n'ibyatsi bikiri bito ariko ubona bitoshye cyane byose bihamurwamo imiti itandukanye gakondo.

Igiti cyiza cyane gitoshye akaba ari igiti cy' umuravumba, ukurwamo imiti gakondo itandukanye, yiganjemo ivura indwara zifata imyanya y'ubuhumekero.

Udukarito dutanu turi mu mabara atandukanye; umukara, ubururu, umweru, icyatsi ndetse n'umutuku, turambitse ku meza aho iruhande rwatwo hari imineke ndetse n'inanasi.

Udupaki dutatu tumeze nk'utubamo umuti w'amenyo n'utundi ducupa turi mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, twose tukaba turimo umuti w'amenyo ukozwe mu gikakarubamba.

Amacupa atandatu ateretse ku meza , amanini n'amato aho harimo ay'icyatsi, umweru ndetse n'umukara, yose akaba arimo imiti gakondo aho buri cupa riho igipapuro kirizengurutse kigaragaza izina ry'umuti urimo.

Ibimera byiza cyane bitoshye, bikaba bisa n'icya tsisiriri ubona ko bitoshye. Babiranduye bakaba babishyize mu mufuka, aho babijyanye mu rugo kugira ngo babikoremo imiti gakondo itandukanye.

Igipapuro kiriho amagambo y'ururimi rw'icyongereza kirasa n'umweru kikaba gishushanyijeho igikakarubamba, akaba ari igipapuro kibikwamo umuti gakondo ukozwe mu gikakarubamba.

Igiti cyiza cyane, kikaba ari giti cy'umuravumba. Kiratoshye ubona ko kimeze neza, gifite amababi menshi cyane. Akaba ari giti gikorwamo umuti gakondo, giteye hamwe n'ibindi byinshi cyane.

Igipapuro kiri mu ibara rijya kuba umuhondo. Kiriho agacupa k'umweru kariho igipapuro cy'umweru cyanditseho amagambo atandukanye, kikaba gishushanyijeho n'uruyuki, aho ari agacupa karimo amavuta akozwe mu buki.

Igicupa kinini cyane cy'umweru. Kiriho igipapuro cy'umweru gishushanyijeho igikakarubamba, ndetse n'andi magambo ari mu rurimi rw'icyongereza. Iki gicupa kikaba kirimo umuti gakondo ukozwe mu gikakarubamba.

Imbuto zikiri nto ziri mu bihoho, zikaba zifite amababi meza cyane atoshye ameze nk'ay'inyanya, aho zigeze igihe cyo kuba zaterwa mu murima, kugira ngo zibashe kwitabwaho neza, kurusha uko zakwitabwaho zirunze hamwe mu bihoho.

Uducupa tubiri tw'umuhondo dufite imipfundikizo y'itaka, ku ruhande hari ibipapuro by'ipfunyika bisa n'umweru ndetse n'icyatsi, byanditseho amagambo atandukanye aho byose bipfunyitsemo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara cyane cyane iz'ingingo.

Igipapuro gishushanyijeho indabo ndetse n'ibindi bitandukanye. Rimwe kiriho umwenya, umuravumba, ibigori, amaronji ndetse n'ibindi byose bikorwamo imiti gakondo itandukanye.

Uducupa dutatu turambitse turimo umuti gakondo, twose turasa n'umweru, tukaba turiho ibipapuro bituzengurutse byanditse amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza. Iruhande rwatwo hari irindi cupa rinini rya parasitike ribonerana.

Ibinini bitandatu ku ruhande rumwe n'ibindi bitandatu ku rundi ruhande bikaba bipfunyitse mu gasashi, ku ruhande hari igipapuro bibikwamo cyanditseho amagambo yo mu Cyongereza, hasi hakaba handitseho makumyabiri na kane kuri karindwi.

Agakarito gakozwe mu gipapuro, kari mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, kanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, kakaba gashushanyijeho n'umukobwa wifashe mu manyanyinya aho karimo umuti uvura abakobwa.

Amacupa abiri y'ibyuma akoze mu birahure arateretse akaba arimo amazi ashyushye bashyizemo umuravumba n'umwenya, ku ruhande hakaba hari undi muravumba uharambitse aho byose byifashishwa nk'umuti gakondo.

Agacupa gafite ibara ry'umweru gapfundikishije umupfundikizo w'umweru, kakaba kariho igipapuro cy'ubururu gishushanyijeho inuma iri kuguruka, aka gacupa kakaba kabamo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura abantu.

Igipapuro kiriho ikirangantego cy'umuryango nyarwanda wahariwe kurinda ndetse no kubungabunga ibiryo n'imiti FDA, bikaba byanditse mu magambo y'ururimi rw'Icyongereza.

Uducupa twinshi cyane, turi mu mabara atandukanye, yiganjemo ay'umweru. Tumwe turimo amavuta, utundi turimo isabune ndetse n'utundi turimo imiti y'amenyo, yose ikozwe mu gikakarubamba.

Igipapuro kiri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweruro, kiriho uducupa dutandukanye tubikwamo umuti gakondo ndetse n'ibikarito, hari n'udupakiye tumeze nk'utubikwamo umuti w'amenyo ariko tukaba turimo umuti gakondo.

Uducupa dutatu duteretse hamwe, tubiri turasa n'umweru akandi kamwe ni ak'umuhondo tukaba turimo umuti gakondo ukozwe mu gikakarubamba dore ko iruhande rwatwo hari amababi y'igikakarubamba akasemo ibice bitatu.